Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye abikorera ndetse n'urubyiruko aho bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama cya bimwe mu bitaro bungurana ibitekerezo ndetse hanarebwa n'uruhare rwa buri umwe ndetse n'umusanzu mu kubaka igihugu binyuze mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ndetse no kwirinda indwara zinyuranye zifata abatuye igihugu.

Umudamu ufite imisatsi y'umukara wambaye itaburiya y'umweru arimo guha urukingo rw'igitonyanga umwana w'uruhinja usigatiwendi mudamu wishimiyemye cyane uri guseka, iyi akaba ari imwe muri serivisi z'ubuvuzi zitangwa hirya no hino mu gihugu abakiri bato bahabwa inkingo z'indwara zitandukanye mu rwego rwo kwirinda ko bazahura n'ibyo byorezo mu gihe kiri imbere.

Abaturage batandukanye higanjemo urubyiruko, ubwo bari bitabiriye amahugurwa yababwiraga ku kamaro k'isuku mu kurinda indwara zitandukanye zandura, harimo nk'impiswi ndetse n'izindi, ubwo akaba ari ubukangurambaga bwakozwe n'umuryango utegamiye kuri Leta ushishikariza abantu kwirinda indwara zandura, hamwe mu buryo bwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, igizwe n'ishati ya karokaro ndetse n'ikabutura ya move. Afite igikombe gifite ibara ry'umweru, aho bari kuvoma amazi kuri robine kugira ngo akore isuku yo mu kanwa. Ibi akaba ari bimwe mu byifashishwa mu kurinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda zifata mu kanwa, hagamijwe ko abantu bagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura y'umukara arigukaraba intoki ku ivomo rusange. Iyi akaba ari imwe muri gahunda za Leta zo gukwirakwiza hirya no hino ibikorwa remezo bitandukanye, nk'amazi by'umwihariko nka kimwe mu bigira uruhare mu kurwanya ikwirakwira ry'indwara ndetse n'ibyogezo hitabwa ku isuku. Hifashishijwe amazi meza.

Kwegereza ibikorwa remezo abaturage ndetse na serivisi z'ubuvuzi ni kimwe mu byo leta y'u rwanda yashyize imbere ahakaba muri gahunda ikingira aho abana bose bari munsi y'imyaka itanu bahabwa inkingo z'iin ndwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye rwe ukubafasha kugira ubuzima bwiza birinda ko bazahura n'ibyorezo ndetse n'ibiza mu mikurire yabo.

Umupapa wishimye cyane afite ijerekani aho abaje kuvoma amazi ku ivomo rusange aya mavomo akaba agirayo bakora na guverinoma hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kubona amazi meza abafasha ibikorwa byabo by'isuku biririmo indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, akamacinya, impiswi ndetse n'izindi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku biribwa World Food Program, aho batanga serivisi z'ibiribwa ku bari mu bihe by'amage ndetse n'intambara, hitabwa ko bagira ubuzima bwiza babona indyo yuzuye ndetse n'ibibatungira ubuzima.

Inyubako yateraniyemo abantu benshi biganjemo abana ndetse n'ababyeyi babo, aho baje gupimisha abana ngo barebe ikigero cy'imikurire yabo. Iyi akaba ari muri serivise zitangwa hitabwa ku buzima bw'abakiri bato, harebwa niba badafite ibibazo by'imirire mibi cyangwa se niba nta ndwara zindi bafite, bityo ngo bahabwe ubutabazi igihe basanze babukeneye.

Umwana mutoya uri gukorerwa ijerekani y'amazi n'umugabo wambaye ingofero y'umweru, agapfukamunwa ndetse n'agapira k'ubururu aho aya mazi yari ku mavomo rusange aboneka hirya no hino mu gihugu afasha abaturage gukora ibikorwa bitandukanye by'isuku hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abaganga bakora mu bitaro ubwo bari barimo gufata ifoto y'urwibutso bambaye impuzankano yabugenewe bishimira uruhare bagira mu gutanga serivise z'ubuvuzi bimakaza imibereho myiza y'abaturage batanga iyi serivise, uru akaba ari urwego rwo kwitabwaho cyane kuko bagira uruhare runini mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage barinda abaturage indwara ndetse banavura abahuye na zo.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zinyuranye abikorera ndetse n'abakora mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi aho bari barimo gufungura ku mugaragaro icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi inama ikaba yari yateguwe ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ibinyujije mu muryango utegamiye kuri leta wa unisefu ndetse n'ibyiciro bitandukanye by'abari bitabiriye ayo mahugurwa.

Abamama ndetse n'abana bari ku ivomo rusange rifite ibara ry'ubururu ndetse na robine ebyiri. Hagaragara umumama uri koza umwana, ibi bikaba bigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima aho bagira inama yo gukaraba n'amazi n'isabune nka bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye zandura.

Abayobozi mu nzego za leta bahuriye mu cyumba cy'inama n'impuguke mu by'ubuzima ndetse n'abayobora imiryango itegamiye kuri leta ku buzima, aho barimo kungurana ibitekerezo ku byakorwa kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda. Abaturage bakangurirwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ndetse no gufata izindi ngamba zirinda ikwirakwira ry'ibyorezo.

Icyumba cy'inama cyahataniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, abavuzi ndetse n'impuguke mu by'ubuzima, aho barimo kungurana ibitekerezo barebera hamwe icyakorwa ndetse nuruhare rwa buri umwe kugira ngo ubuzima buzamuke cyane cyane hitabwa mu kugeza ibikorwa by'ubuvuzi ku batuye hirya no hino mu cyaro. Bicaye bazengurutse ameza imbere yabo hari uducupa tw'amazi bari kungurana ibitekerezo.

Abajyanama b'ubuzima bishimye cyane, aho bambaye amakarita mu gatuza abaranga, ndetse n'amataburiya afite ibara ry'ubururu abaranga, aho bari barimo kwishimira ibikorwa by'indashyikirwa bari bagezeho, bagira uruhare mu kurwanya ibyorezo bitandukanye byari byafashe u Rwanda, batanga umusanzu wabo mu buzima, basuzuma ndetse banatanga imiti ku bagizweho ingaruka n'iki cyorezo.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta, abikorera ndetse n'abavuga rikijyana, aho barimo kuganira ku ruhare rwa buri umwe mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage hitabwa ku cyiciro cy'ubuzima. Bicaye neza, imbere yabo hari ameza abafite ibitambaro by'uburu ndetse n'umweru, aho bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu mpuguke mu by'ubuzima.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano, aho ari gukaraba intoki ku bukarabirorusange buzwi nka kandagirakarabe. Iyi ikaba ari imwe muri gahunda zashyizweho mu rwego rwo gufasha abantu kwirinda indwara zitandukanye, bakaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, birinda ikwirakwira ry'indwara zituruka ku mwanda ndetse n'ikwirakwizwa ry'ibyorezo bitandukanye, byandurira mu gukoranaho n'ahandi.

Abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, nyuma yo gukora amahugurwa y'uburyo bateza imbere ubuvuzi mu Rwanda hifashishijwe ikoranabuhanga, aha akaba ari ifoto y'urwibutso barimo bafata ubwo bari basoje aya mahugurwa bigira hamwe kuri izi ngamba zafatwa ngo ubuvuzi butera imbere mu Rwanda.

Icyumba k'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye aho bari kungurana ibitekerezo, ku ngamba zafatwa kugira ngo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, zigabanyuke ku kigero cyo hejuru nka zimwe mu zugarije abanyarwanda cyane cyane, icyiciro cy'urubyiruko aho bungurana ibitekerezo bareba icyakorwa na buri rwego kugira ngo bagere kuri izi ntego.

Umwana ukiri mutoya wishimye cyane wambaye ikanzu y'umutuku ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune yo ku ivumo rusange akaba arimo amavomo agenne ko hirya no hino mu gihugu ku bufatanye na leta ndetse n'abikorera kuru'uru rwo gufasha abatuye mu bice bitandukanye by'igihugu kugerwaho n'amazi meza abafasha mu gukora isuku yaba ku myambaro, aho baba, mu byo bateka ndetse n'ibindi hagamijwe ko birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Umuganga urimo gusuzuma umwana arebabwa uko ubuzima bwe buhagaze, ibi akaba ari ibikorwa bikorwa hirya no hino mu gihugu harebwa uko imikurire y'abana imeze ndetse hanasuzumwa indwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye nk'uburyo bwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage cyane cyane hitabwa ku buzima bw'abatuye igihugu.

Umugore witwikiriye igitambaro urimo kuvoma amazi ku ivuomo rusange, iruhande rwe hari umugabo na we uri kuvoma amazi kuri iri vomo ,aya mazi aka yifashishwa mu gukora ibikorwa by'isuku bitandukanye hagamijwe ko biririnda indwara ziterwa n'umwanda nk'impiswi macinya n'izindi.

Ikirango cy'umuryango utegamiye kuri leta uharanira ubuzima ku isi Global Health Organization. Uyu ukaba ari umuryango ufasha mu bikorwa bitandukanye hirya no hino ku isi by'ubuzima, harimo nko gukangurira abantu kwirinda indwara zitandukanye, gutanga inkingo ndetse n'ibindi bikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza y'abatuye isi, hibandwa ku buzima.

Abana benshi bari hamwe bafatanyiye ku rutugu bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu yanditseho ibirango bya unicef, iki kikaba ariikigo mpuzamahanga cyita ku burenganzira bw'umwana, aho bari mu bukangurambaga bw'uko abana bato babangavu bakwiye kwitabwaho mu myaka yabo y'ubugimbi hirindwa indwara zitandukanye ndetse n'ibishuko bahura na byo byabarundurira mu burwayi butandukanye.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano yabugenewe, aho ari kuvoma amazi meza ku ivomo rusange, aya mazi akaba yifashishwa mu gukora ibikorwa by'isuku bitandukanye, yaba ku mubiri ku myambaro mu bikoresho ndetse n'ahandi, mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda ndetse n'ibyorezo bikwirakwizwa nawo.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuzima zitandukanye, nko gusuzuma, gutanga imiti, gufasha ababyeyi kwibaruka, ndetse n'izindi. Haragaragara umurwayi uryamye ku gitanda aho ari kwitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima, wifashishije ibikoresho bigezweho wumva uko umutima w'umwana atwite utera, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi hirya no hino mu Rwanda.

Icyapa cy'abantu bari mu bukangurambaga biganjemo urubyiruko, bwateguwe n'ikigo cya yunisefu giharanira uburenganzira bw'umwana, aho bari bari gukangurira abantu kwita ku burenganzira bw'umwana cyane cyane ahabwa ubuvuzi nka kimwe mu byo agenerwa mu buzima bwe bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abaturage bitabiriye ibikorwa byashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda byo kwegereza ubuvuzi abaturage, aho bazenguruka hirya no hino mu gihugu batanga serivisi zo gusuzuma ku muntu indwara zitandura nka Diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, hanyuma abazisanganywe bagahabwa imiti ku buntu, hagaragara kandi n'imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze ku buvuzi, ku bagize ibibazo bitandukanye.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi aha hakaba harimo icyumba k'isuzumiro ahagaragara abaganga barimo gutanga serivisi z'ubuvuzi ku mukobwa wicaye aho barimo kumusuzuma bifashisha ibikoresho bigezweho ndetse n'ikoranabuhanga imbere yabo kandi hari imiti, ibikoresho mudasobwa ndetse n'ibindi binyuranye byifashishwa n'abaganga mu kazi kabo ka buri munsi.

Abaturage b'ingeri zitandukanye bitabiriye ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima, aho bwari bufite insanganyamatsiko yo gushishikariza abaturage kwita ku buzima bwabo, bisuzumisha indwara zitandukanye zitandura; aho kandi banasuzumwe izi ndwara ku babishaka bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze kugira ngo bamenye imyanzuro bafata ku buzima bwabo; n'abatangira imiti, batangire guhabwa serivisi z'ubuvuzi hakiri kare.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, igizwe n'ikabutura ndetse n'ishati by'ibara rya kaki, aho bari ku mavumo rusange, bavoma amazi mu ndobo ngo bajye gukora isuku mu mashuri yabo, mu rwego rwo kwirinda ko bahandurira indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, harimo nk'impiswi ndetse n'izindi.

Abantu benshi biganjemo abamama bazanye abana babo gufata inkingo zitandukanye, iyi iri muri gahunda za leta zashyizweho mu rwego rwo kurinda abakiri bato kurwara indwara zitandukanye nk'iseru, imbasa ndetse n'izindi, bahabwa inkingo zitandukanye bakiri bato kugira ngo hirindwe izi ndwara.

Icyumba cy'inama cyaterayemo abantu b'ingeri zitandukanye, bafite aho bahuriye n'ubuzima. Bicaye baganira ndetse banungurana ibitekerezo, harebwa uruhare rwa buri umwe mu kugira ngo imibereho myiza y'abatuye igihugu izamurwe, hitabwa ku buzima. Aba bantu bicaye neza, bazengurutse ameza afite ibara ry'igitambaro cy'umweru n'ubururu, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse bakurikiye imbwirwaruhame, iri gutangwa n'umwe mu baganga bakuru.

Urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu yanditseho mu ibara ry'umweru bambaye n'ingofero zifite ibara ry'umweru, aho bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo kwitabira amahugurwa yari yateguwe n'umuryango utegamiye kuri leta uharanira ubuzima, aho bahugurwaga akamaro ko gukora siporo nka kimwe mu bifasha mu kugira ubuzima bwiza hirindwa indwara zitandukanye zitandura.

Abadamu ndetse n'abakobwa bari kubyina cyane, bishimye, bamanitse amaboko, ni nyuma y'amahugurwa bari bitabiriye y'ubuzima bw'imyororokere, bigishwa uko bagirira isuku imyanya yabo y'ibanga myibarukiro nk'imwe ikunda gufatwa n'indwara zitandukanye ziterwa n'isuku nke hirya no hino mu gihugu.

Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mubafasha mu kugeza serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu hatangwa ubutabazi bw'ibanze ndetse banajya muri gahunda zimwe na zimwe za Leta zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, batanga serivisi z'ubuzima nko gusuzuma malariya, gutanga imiti, gutanga ubujyanama no gukurikirana abagore batwite, ndetse n'ibindi. Ibi byose bikaba bigamije imibereho myiza y'abaturage hitwa cyane kuri serivisi y'ubuzima.

Abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye aho bari bahuriye hamwe n'urubyiruko rutandukanye rwiganjemo abangavu ku cyumba cy'urubyiruko hamwe mu Gihugu. Aho bari bari mu bukangurambaga bwo gukangurira urubyiruko kwirinda gutwara inda zitateganyijwe cyane cyane ziterwa abana b'abangavu. Ibi akaba ari bumwe mu bukangurambaga bukorwa hirya no hino mu Gihugu mu rwego rwo gusigasira ubuzima hitabwa ku buzima bw'imyororokere cyane cyane urubyiruko.

Urubyiruko rwambaye impuzankano iri mumipira y'ubururu hagati y'aba hari umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati, aba bakaba bari bamaze guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kugira ngo bajye kumusimbura, abaturage hirya no hino ba basobanura byinshi ku bijyanye n'iyi serivisi y'ubuzima bw'imyororokere.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima, kigaragaza uko abantu udushya duto baherereyemo bagomba kwita ku buzima bwo mu mutwe, hagamijwe ko ugirwamo uruhare na buri wese mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage, gufatwa nk'indwara zisanzwe kandi hitabwa ku bafite ibibazo byo mu mutwe bitandukanye.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi cyane wicaye hasi, yambaye igipine, uyu akaba afite ubumuga bwo mu mutwe, ashagawe n'abantu benshi bamushungeye, aba bakaba ari icyiciro cy'abantu batitabwaho akenshi bafatwa nk'abafite ibindi bibazo, nyamaze bafite uburwayi bwo mu mutwe abenshi bita abasazi.

Icyumba k'inama cyateraniyemo abamama ndetse n'abavuzi, aho bari guhabwa amahugurwa y'uburyo bagomba kugira isuku mu byo bakora byose, hitabwa ko birinda kwanduza abana na bo ubwabo indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda nk'impiswi, macinya n'izindi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'umuhondo by'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima bwo mu mutwe RMHP, Aho iki kigo gishishikariza abaturage kwita ku buzima bwo mu mutwe nka kimwe mu byiciro bititabwaho ahubwo abantu bakabikerensa nyamara bigira uruhare runini mu kugira indwara nyinshi hirya no hino mu gihugu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, kiriho ifoto y'umusore n'umukobwa, aho cyatangaga ubukangurambaga kimenyesha abantu bose ko noneho, bashobora kwita ku buzima bwabo, bakoresheje ikoranabuhanga, cyane cyane urubuga rwa welinesi webusayiti, aho wasanga amakuru y'ibikorwa bitandukanye bakora bigamije kugira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bwateguwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta, aho yari yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, biganjemo abambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi, aho bari bafite insanganyamatsiko yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bashishikariza buri wese kubigira ibye, agira uruhare mu kurwanya no kurandura iri hohoterwa burundu.

Umubyeyi uhetse umwana iruhande rwe hakaba undi mwana akaba arimo gushigisha igikoma cyatanzwe na leta ku nkunga yo kunganira imirire hirya no hino m u imiryango utishoboye mu rwego rwo gushyigikira imikurire miyiza y'abana abana bahabwa ifunguro ryuzuye ndetse n'intungamubiri.

Abakozi b'umuryango utegamiye kuri leta wita ku buzima bwo mu mutwe, ubwo bizihije umunsi mpuzamahanga hari ubuzima bwo mu mutwe bifatanya n'abaturage hirya no hino mu gihugu, aho bari bakoze umuganda wo gutera ibiti hirya no hino mu gihugu, hitabwaho ku mirire myiza ndetse banaganira n'abaturage babasobanurira byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta abikorera ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta, aho barimo kungurana ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo serivisi z'ubuvuzi zitezwe imbere hirya no hino mu bice bigize igihugu, bahuriye mu cyumba cy'inama barishimye cyane barimo gukomera amashyi umwe mu bayobozi umaze gutanga imbwirwaruhame.

Abana benshi bahagaze hamwe, bafite utujerekani barimo guseka bishimwe, aho bagiye gushaka amazi yo kwifashisha mu gukora ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'isuku yaba iyo ku mubiri, ku myambaro ndetse n'iyaho baba, nka bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye, zandura binyuze mu mwanda.

Inyubako nini cyane isize amarangi y'umweru y'igorofa rimwe, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane ndetse hari n'ibyapa bigaragaza ko ikoreramo ivuriro rya Munini. Aha hakaba hatangirwagwa serivise z'ubuvuzi zitandukanye harimo nko gusuzuma, gutanga ibizamini ndetse no gufata imiti ku baje gushaka serivise z'ubuzima muri iki kigo.

Impuguke z'abavuzi mu buzima bwo mu mutwe, ubwo bari bagiye mu bukangurambaga mu gace kamwe k'igihugu, kugira ngo bashishikarize abaturage kwita mu buzima bwo mu mutwe ndetse harebwa n'abafite ibibazo bitandukanye ngo babe bafashwe, aha bari batangiye barimo kwakirana, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umukara, ariho ibikoresho bitandukanye bari bwifashishije muri aka kazi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru izwi nk'ibitaro bigendanwa, iyi akaba ari iyifashishwa mu gutanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi bwo mu mutwe hirya no hino mu gihugu, imbere yayo hari abantu benshishe mu matsinda aho barimo kuganira n'impuguke mu buzima bwo mu mutwe bareba ndetse banabasobanurira ibibazo byabo kugira ngo bafashwe guhabwa ubuvuzi.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta, abikorera, ndetse n'abaturage. Aho barimo kuganirira hamwe ku cyakorwa kugira ngo indwara ziterwa n'isuku nke zigabanyuke, yewe zinacike mu gihugu. Aho umuyobozi umwe muri bo afite microphone arimo gutanga imbwirwaruhame. Iruhande rwe hicaye bagenzi be ndetse imbere hateretse agacupa k'amazi na mudasobwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kiriho ibirango bitandukanye, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, kiriho kandi ifoto y'umuganga wambaye umwenda w'akazi, cyatanzwe n'ikigo cya Kigali Psycomedical Center gitanga ubuvuzi bwo mu mutwe, ubwo cyamenyeshaga abaturarwanda bose ndetse n'abandi basabayo serivisi zitandukanye ko inzobere mu by'ubuvuzi bwo mu mutwe yagarutse, ko baza gusaba serivisi kuri iki kigo bakazihabwa.

Abayobozi mu nzego za leta ndetse n'impuguke mu by'ubuzima, ubwo bari barimo gutaha inyubako nshya yo gukoramo serivisi z'ubuvuzi. Mu rwego rwo kwegereza serivisi z'ubuzima abaturage hirya no hino mu gihugu bahabwa serivisi nziza z'ubuvuzi. Hakaba hari igikorwa cyo gutaha ibitaro bishya byari byubatswe mu karere ka Rulindo. Mu rwego rwo gufasha abatuye akarere kugira ubuzima bwiza, hitabwa ku gutanga serivisi z'ubuvuzi zigezweho.

Icyegeranyo cyakozwe na Minisiteri y'ubuzima hagendewe k'ubushakashatsi bwakorewe mu Rwanda aho kigaragaza uko impfu zo kwiyahura zihagaze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kugeza mwakahumbi cumi n'umunani, aho bigaragara ko zagiye zimanuka ku kigero cyo hejuru bitewe no kwitabwaho ndetse na serivisi z'ubuvuzi n'imibereho myiza y'abaturage yagiye izamuka uko imyaka yagiye yiyongera.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, abikorera ndetse n'impuguke mu by'ubuzima, bari bitabiriye amahugurwa yateguwe na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku buzima RBC yari igamije gukangurira abaturage ndetse no kurebera hamwe uruhare rwabo, mu kurwanya indwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye, bagira isuku cyane cyane bibanda gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Abantu benshi bahuriye hamwe higanjemo abana ndetse n'umukecuru bafite ubumuga bwo mu mutwe, aho bahurijwe hamwe kugira ngo baganirizwe ku kibazo cyabo ndetse harebwa n'ubuvuzi bahabwa butandukanye. Ibi bikabafasha kwiyumva muri sosiyete ndetse nabo bakumva ari abantu nk'abandi.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umukara wunamye imbere ye hari ururabo, akaba ari ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane aho bari bagiye kwibuka inzirakarengane zahitanywe n'iyi jenoside.

Umwana urimo kurira cyane yikoreye amaboko, inyuma ye hari urujya n'uruza rw'abantu, hari umumama ukenyeye igitenge ufashe ibiti mu ntoki. Akaba afite ubumuga bwo mu mutwe, nka kimwe mu byiciro by'uburwayi bititabwaho n'abantu, nyamaze bakeneye guhabwa ubuvuzi ndetse bakanitabwaho nk'abandi barwayi bose.

Umugore wambaye imyenda y'umukara uri kumwe n'undi wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'ingofero aho arimo kumuganiriza, akaba ari kumuganiriza nka bumwe mu buryo bukoreshwa n'abavuzi bo mu mutwe mu gutanga serivisi zabo z'ubuvuzi bumva neza ibyiyumviro by'abarwayi hanyuma bakabaganiriza babagira inama ku myitwarire cyangwa se ibyo bahindura kugira ngo bagire ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza.

Umukobwa wambaye isengegeri y'umweru, arimo gukora isuku mu menyo yifashishije urudodo rwabugenewe, aho agenda arunyuza hagati y'amenyo, rukuramo imyanda itandukanye. Ibi bikaba ari bimwe mu buryo bwo gukora isuku yo mu kanwa, hirindwa indwara zitandukanye zifata iki gice zituruka ku mwanda.

Abana b'abanyeshuri bafashe uburoso ndetse barimo gukora isuku mu kanwa bifashishije uburoso bw'amenyo ndetse n'imitsi yabugenewe, iyo akaba ari mu gikorwa cyo gukangurira abakiri bato kugira isuku yo mu kanwa bakoresha uburoso ndetse n'imiti yabugenewe hirindwa indwara zitandukanye zifata mu kanwa zituruka ku mwanda.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe arimo kuganira n'umusore waje guhabwa serivisi z'ubuvuzi bwo mu kanwa arimo kumwereka amenyo afite ibibazo kugira ngo ayasuzume, arebe ibyo yayakorera byatuma amera neza, ibi bigaragaza ubuvuzi buteye imbere aho abantu bisuzumisha bagahabwa imiti hagendewe ku ndwara babasanganye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa ahagararanye n'umunyeshuri wambaye impuzankano, aho arikumwerekera uburyo bwo koza amenyo hakoreshejwe uburoso nka bumwe mu buryo bufasha kurinda indwara zitandukanye zo mu kanwa zituruka ku mwanda. Ibi bikaba ari mu bukangurambaga bwakozwe n'abavuzi b'amenyo banyura mu bigo bitandukanye by'amashuri, bigisha abanyeshuri uburyo bagomba kozamo amenyo kugira ngo hirindwe izi ndwara zitandukanye zo mu kanwa.

Umuganga wambaye impuzankano yiswe itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki, aho arimo gusuzuma umwana amenyo akoresheje ibikoresho byabugenewe bikaba bigaragaza iterambere mu buvuzi aho hifashishwa ibikoresho bigezweho ndetse bijyanye n'igihe mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zigezweho.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'uturindantoki, afite agakoresho mu ntoki kabugenewe, arimo gusuzuma umwana umuri imbere, mu kanwa, areba niba nta ndwara zitandukanye yaba afite. Ibi bikagaragaza ubuvuzi bugezweho, hifashishwa ibikoresho bijyanye n'igihe, aho umuntu asuzumwa, hanyuma agahabwa imiti hagendewe ku byo ibizamini byagaragaje.

Umukobwa urimo gukora isuku mu menyo yifashishije agakoresho kabugenewe gafite ibara ry'ubururu ndetse kariho n'akadodo, aho agenda akanyuze hagati y'amenyo akuramo imyanda, ubu akaba ari bumwe mu buryo bwifashishwa mu kugira isuku yo mu kanwa hirindwa indwara zimwe na zimwe zitandukanye zifata iki gice cy'umubiri.

Inyubako ndende ifite amagorofa abiri ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ikoreramo ibitaro bya Hope dental center. Ibi bikaba ari bitaro bivura indwara z'amenyo ndetse n'izindi zo mu kanwa zitandukanye mu rwego rwo gufasha abatuye igihugu kugira ubuzima bwiza hitabwaho ry'icciro cy'abafite ubu burwayi.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, iyi nyubako ikaba ifite ibikoresho by'ibanze nkenerwa mu buvuzi, harimo nk'ibyumba byagenewe kwakirwamo abarwayi, ibikoresho bitandukanye, intebe zo kwicaraho ndetse n'ibindi, ibi bikanoza imitangire myiza ya serivisi, ku baza bagana iki kigo.

Umwana wicaye mu ntebe y'ubururu, yambaye agakanzu gafite ibara ry'ikijuju ndetse n'agapira k'umweru, arimo guseka cyane afite uburoso bw'amenyo mu kanwa, bigaragare ko amaze kozwa mu kanwa, hagirwa isuku yaho kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye zifata imyanya yo mu kanwa, ndetse n'amenyo, bumwe mu buryo bwo kuzamura ubuzima bwiza abaturage bashishikarizwa kugira isuku hirya no hino mu gihugu.

Abanyeshuri ndetse na mwarimu wabo bari mu ishuri bishimye cyane baseka, bamanitse hejuru imiti yo koza mu kanwa yifashishwa mu gukora isuku mu kanwa. Ubu bukaba ari ubukangurambaga bwari bwateguwe n'ikigo gicuruza imiti yo gokoresha mu kanwa aho bazengu mu bigo by'amashuri bashishikariza abana kugira isuku mu kanwa. nka bumwe mu buryo bubafasha kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa, nk'ifumbi ndetse n'izindi bagira isuku yabo.

Umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe n'agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, aho arimo gusuzuma umumama wambaye isengeri ifite ibara ry'ikigina, indwara zitandukanye zo mukanwa. Ibi bikaba ari bimwe mu bigaragaza ko ubuvuzi buteye imbere mu Rwanda, aho hifashishwa ibikoresho byabugenewe mu gusuzuma indwara zitandukanye ndetse zinavurwa.

Umugabo w'inzobe uri guseka cyane afite akadodo ari kunyuza mu menyo, ibi bikaba ari bumwe mu buryo bwo gukora isuku mu kanwa nka bumwe mu buryo bwo kurinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa nk'ifumbi n'izindi, ibi bikaba bitangwamo inama n'inzobere mu by'ubuvuzi bwo mu kanwa aho bagira inama y'abaturage gukora isuku yo mu kanwa hirindwa izo ndwara.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamuwa k'umweru yambaye kandi n'uturindantoki, arimo gusuzuma umusaza mu kanwa yifashishije igikoresho cyabugenewe. Akaba arimo areba ko nta ndwara zitandukanye zifata iki gice cy'umubiri yaba arwaye bigamije gutanga serivisi z'ubuvuzi ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abaturage hitabwa ku buvuzi buteye imbere ndetse bwimakaza ibizamini.

Umuganga wambaye impuzankano imuranga mu gihe ari mu kazi igizwe n'itaburiya y'umweru, yambaye kandi uturindantoki afite ibyuyuma byabugenewe, aho arimo gusuzuma umwana indwara yo mu kanwa. Ibi akaba ari bimwe mu bigaragaza ko serivisi z'ubuvuzi ziteye imbere mu Rwanda, aho ubuvuzi bwifashisha ibikoresho bigezweho kandi byabugenewe.

Umugabo wishimye cyane urimo guseka wambaye umupira w'icyatsi, afite agakoresho gakoreshwa kwa muganga gafite ibara ry'umweru, aka akaba ari gakoreshwa, mu kugira isuku yo mu kanwa nka bumwe mu buryo bwo kurinda indwara zitandukanye zifatwa n'iki gice cy'umubiri, umuntu agirira isuku iki gice.

Umusore wambaye agapira k'umukara akaba arimo guseka cyane yerekana amenyo, aha ni mu rwego yarimo gukangurira abantu kugira isuku mu kanwa nka bimwe mu bifasha gutuma umuntu agaragara neza ndetse akanirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa ziterwa n'umwanda, harimo ifumbi ndetse n'izindi.

Icyumba cy'inama cyari cyateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye abana ndetse n'abakuze kugira ngo hako ubukangura mbaga bw'isuku yo mu kanwa hakoreshejwe umuti wa rubeto, iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho zo gushishikariza abaturage kugira isuku mu bice bitandukanye by'umubiri nka bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'isuku nke.

Umusore w'inzobe urimo guseka cyane yishimye, afite akagozi kifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa, kanyuzwa hagati y'amenyo ngo gakuremo imyanda. Ibi akaba ari bimwe mu bifasha kurinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, zifatata iki gice cy'umubiri, hakoreshwa utu tugozi ndetse n'ubundi buryo butandukanye, bukora isuku yo mu kanwa.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki, arimo gusuzuma indwara zo mu kanwa umwana uri imbere yiwe. Ibi akaba ari mu bigaragaza ubuvuzi buteye imbere, aho abaganga bifashisha ibikoresho bigezweho kandi bijyanye n'igihe. Mu gusuzuma indwara zitandukanye zifata ibice by'umubiri runaka.

Abadamu batatu bambaye imyenda ya siporo, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho bari mu gikorwa cya siporo nk'umwe mu mikino ngororamubiri yifashishwa mu kurwanya indwara zitandukanye zitandura, harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi. Ibi bikaba bigirwa inama n'abaganga ndetse n'impuguke mu buzima ko gukora siporo birinda ibyago byo kugira izi ndwara.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umutuku, yicaye ku gatambaro karambuye mu busitani, aho arimo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impimpuguke mu by'ubuzima nka bumwe mu buryo bufasha mu kugira ubuzima bwiza, hirindwa indwara zitandukanye zitandura harimo nk'umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'izindi.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu ntebe zikoze mu mbaho bishimye cyane baseka, imbere yabo hari ameza akoze mu mbaho, arambitseho utuntu tw'umweru, aha hakaba ari mu kigo gikusanyirizwamo abageze mu myaka ya bukuru kugira ngo bitabweho n'inzobere mu buzima kuko baba ari ikiciro kibasirwa n'indwara zitandukanye.

Umukecuru wambaye agapira k'ubururu ufashe inkoni ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano imuranga igihe ari mu kazi ndetse afite n'akuma kagenewe kumva ko umuvuduko w'amaraso ndetse no ku mutima bitera, aha akaba ari mu nyubako yagenewe gu kwita ku bakuze nka kimwe mu byiciro by'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye bityo bagashyirwa mu nyubako zibitaho harebwa ubuzima bwabo umunsi ku wundi.

Imifuka myinshi cyane ipakiyemo imbuto zitandukanye, harimo nk'inkeri, ibinyomoro ndetse n'izindi. Izi zose zikaba ari izasaruwe hirya no hino mu gihugu, zigiye gucuruzwa kugira ngo hitabwe ku buzima bwiza bw'abazirya, birinda indwara ndetse banubaka umubiri, hakoreshejwe intungamubiri ziboneka muri ibi biribwa.

Umusaza wambaye ishati y'ikijuju wicaye, imbere ye hari ameza ariho ibitabo ari gusoma ndetse n'agakaye mu ruhande arimo kwandikamo ibyamufashije. Iruhande rwe kandi hariho ikirahuri cy'amazi arimo gusomaho. Izi akaba ari mu nyubako zita ku bakuze, nka kimwe mu byiciro by'abantu bikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Mu nyubako zita ku bageze mu myaka ya bukuru haragaragara umusaza wicaye imbere ye hari ameza ndetse n'urupapuro rw'isuku afite telefone, iruhande rwe hari umuganga umwitaho wambaye impuzankano yabigenewe. Iyi akaba ari imwe muri serivisi ihabwa abageze mu myaka y'izabukuru, mu buryo bwo kwita ku buzima bwabo nka bamwe mu cyiciro cyibasirwa n'indwara zitandukanye.

Umukecuru ndetse n'umusaza bicaye, imbere yabo hari ameza, ikirahuri cy'amazi ndetse n'uducupa tw'umweru, aho bafite kandi n'urupapuro mu ntoki, bakaba bari mu nzu nziza cyane yagenewe kwakira abakuze, aho bitabwaho bahabwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nka bamwe mu cyiciro gikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe igihe ari mu kazi, afite n'icyuma cyumva uko mutima utera, arimo gusunika umusaza ku kagare, aha akaba ari mu nyubako ziri hirya no hino mu gihugu, zateganyirijwe guhurizwamo abari mu myaka ya bukuru, kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi ndetse banitabweho nka kimwe mu byiciro by'abantu bibasirwa n'indwara zitandukanye.

Mu nyubako yagenewe kwita ku bageze mu za bukuru nka kimwe mu byiciro bikunda gufatwa n'indwara zitandukanye cyane cyane zitandura aho bahurizwa hamwe bakitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima bitabwaho umunsi ku wundi, aho bagaburirwa indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda imbaraga, ndetse n'ibiririnda indwara. Hagaragara ifoto y'umusore ndetse n'umukobwa bari kwita ku mukecuru uri hagati ya bo bamuha amafunguro.

Umusaza ukuze cyane ufite umusatsi w'imimvi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara aho yicaye ku gatebe ari kumwe n'abana babiri. Bose bafite amafunguro mu ntoki agizwe n'umugati ndetse umwe mu bana afite igikombe kirimo amata arimo gusomeza umugati. Ibi bikaba bigamije ko bagira imibereho myiza bita ku gufata amafunguro uko bikwiriye.

Abagore babiri bahagararanye barimo kuronga imboga ndetse n'imbuto baba bagiye gutegura amafunguro yabo, higanjemo imbuto n'imboga nka bimwe mu birinda indwara zitandukanye, aba bakaba bari mu kigo cyagenewe kwita ku gakuze kizwi nka jiyatiriki aho baba bitabwaho impuguke mu by'ubuzima hitabwa ku buzima bwabo, nk'abantu bari mu cyiciro cy'abakunda gufatwa n'indwara zitandukanye, kubera kugabanyuka kubudahangarwa kwabo ku mubiri.

Umumama wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umwana we wambaye umupira w'umweru, imbere yabo hari ameza akozeze mu giti, hari n'utuntu twinshi cyane, aho arimo kwigisha umwana kubara, bakoresheje utu dukoresho, bari mu nyubako nziza cyane, isize amarangi y'umweru ndetse harimo n'ibindi bikoresho nkenenerwa, nk'intebe, ameza, utubati, n'ibindi.

Umukecuru ufite imvi wambaye ikanzu y'umweru yicaye mu kagare aho ari gusunikwa n'umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe aha akaba ari mu bigo byita ku bakuze bamwe mu byiciro by'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye rero bagahurizwa muri ibi bigo kugira ngo bitabweho impuguke mu by'ubuzima bahabwa serivisi z'ibanze nkenenerwa ngo bagire ubuzima bwiza.

Umukecuru wishimye cyane arimo guseka ari kumwe n'abuzukuru be baje kumusura mu bigo byagenewe kwita ku bakuze bamwe mu cyiciro cyabo bakunda kwibasirwa n’indwara zinyuranye aho barimo kumufasha gutegura amafunguro amufasha kugira ubuzima bwiza cyane cyane yibanda ku mboga n'imbuto nkabimwe muby’umubiri ukenera cyane kugira ngo ukomeze gukora neza.

Umuganga urimo gufasha umusaza uri mu nyubako yagenewe kwita ku bakuze, bakora imyitozo ngororamubiri, bakurura umugozi, iyi akaba ari kimwe mu bigamije gukomeza imikaya ndetse no kugabanya indwara zitandukanye zitandura nk'umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi, hifashishwa gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Umugabo ukuze cyane ufite imvi wambaye amataratara n'ishati y'umutuku, afite ikaramu mu ntoki arimo gusoma igitabo, bigaragare ko arimo kwiga byinshi ku bijyanye n'ubuvuzi nk'uko ari inzobere mu by'ubuzima, asoma imiti yakifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'abana.

Mu bigo byagenewe kwita ku bakuze nka kimwe mu byiciro by'abantu bibasirwa n'indwara zitandukanye, hagaragara umusaza wambaye amarinete ndetse n'ishati y'ubururu, aho ari gufashwa n'umuganga kugenda ndetse ananura n'imikaya bikamufasha kugira ubuzima bwiza. Izi nyubako zita ku bakuze zibaha serivisi z'ibanze ndetse hakurikirana ubuzima bwa umunsi ku wundi, nka bamwe mu bantu bakeneye kwitabwaho kurusha abandi.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa yicaye ku ntebe aho wari gufungirwa ibipesu by'ishati n'umuforomokazi nawe wambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano imuranga ari mu kazi igizwe n'ibara ry'icyatsi, aha akaba arimo ikigo cyagenewe kwita ku bakuze bakaba mu cyiciro cy'abantubana bakunda gufatwa n'ibibazo bitandukanye by'uburwayi kubera ubudahangarwa buke bw'imibiri yabo bityo bagahurizwa mu bigo bitabwaho n'impuguke mu by'ubuzima bitabwa ko bagira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ishati y'umuhondo ahagararanye n'umumama wambaye amadarubindi ndetse wambaye n'ishati y'ikoboyi, aho barimo kuganira bose bishimye baseka, akaba ari mu nyubako yitakuba bakuze ndetse ndese n'abageze mu myaka ya bukuru aho bahabwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nka kimwe mu cyiciro cyibasirwa n'indwara zifata abantu zitandukanye.

Umusaza wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y' umukara ahagaze afashe ku ntebe ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kunanura amaboko yifashishije icyuma cyabugenewe, aho ari kwerekerwa n'umuganga wambaye impuzankano amwereka uko ananura imikaya, ibi bikamufasha kugira ubuzima bwiza hitabwa gukora imyitozo ngororamubiri nka bumwe mu buryo bumufasha kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, ari gukina umukino w'igisoro, uyu akaba ari umwe mu mikino gakondo yahuzaga abantu b'ingeri zitandukanye, aho bahuraga bakina uyu mukino, mu buryo bwo kwishima, kuganira, ndetse no kungurana ibitekerezo, ibi bikazamura imibereho, ndetse n'ubwisanzurane hagati y'abatuye igihugu.

Umusaza wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara ndetse na ekuteri, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaboko, yifashishije ibyuma biterarwa biboneka hirya nohino mu byumba bikoremo imyitozo ngororamubiri, ibikwamo mu rwego rwo kumufasha kugira ubuzima bwiza arambura imikaya ndetse antuma amaraso atembera neza kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umumama uhagaze afashe ku kuma kari imbere ye arimo kwifashisha agenda, iyi akaba ari muri serivisi zihabwa abagize imvune zitandukanye nyuma yo koroherwa kugira ngo bagaruke mu murongo muzima bigishwa kugenda bifashishije ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga. Ibi akaba ari mu bigaragaza iterambere mu buvuzi hirya no hino mu Rwanda.

Umusaza wicaye mu kagare utwawe n'umukobwa bose bishimye bari guseka cyane, aha akaba ari mu bigo biri hirya no hino mu gihugu byateganyirijwe gukusanyirizwamo abageze mu myaka y'iza bukuru nka bamwe mu cyiciro gikunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye bityo bagahurizwa hamwe kugira ngo bitabweho bihagije.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'ubururu ndetse n'agasengeri k'ubururu arimo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari imwe mu buryo butangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima bufasha mu kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kugira ubuzima bwiza. Bityo bagakangurira abantu b'ingeri zose gukora siporo nk'imwe mu muti ku ndwara zitandukanye.

Umuryango w'abantu benshi bishimye baseka, aho basuye umukecuru wabo uri mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze, bigenda biboneka hirya no hino mu gihugu, aha akaba ari ibigo bishyirwamo abageze mu myaka y'ubukuru kugira ngo bitabwe n'impuguke mu by'ubuzima hitabwa ku buzima bwabo umunsi ku wundi kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Umukecuru wambaye agapira k'ubururu ufite ikirahuri cy'amazi wambaye amarineti wipfutse ku munwa, uyu mukecuru akaba ari mu kigo cyagenewe kwita kubageze mu myaka ya bukuru nka bamwe mu cyiciro gikunda kwibasirwa n'uburwayi butandukanye bagahurizwa mu bigo bimwe kugira ngo bitabweho n'inzobere mu by'ubuvuzi umunsi ku wundi.

Umusaza wambaye umupira w'umukara ndetse na linete, imbere yari ameza akoze mu mbaho arambitse impapuro ndetse n'ibinini hari n'ikirahuri cy'amazi, aho arimo kubwirwa amabwizwa n'umuganga yuko agiye kuzajya afata imiti kugira ngo agire ubuzima bwiza, uyu akaba ari mu ikigo cyagenewe kwita ku bakuze aho bahabwa sevisi zitandukanye z'ubuvuzi bitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abakecuru bakenyeye imikenyerero, ndetse bambaye imipira y'imituku, bari kugendera ku nkoni, aho bagiye gushaka serivisi z'ubuvuzi, akaba ari mubikorwa byashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, murwego rwo korohereza ubuvuzi abaturage, aho bagenda bakora ubukangurambaga hirya no hino mu gihugu, ndetse anasuzuma indwara zitandukanye, abasanganywe izo ndwara bagatangira guhabwa imiti, nta kiguzi batanze.

Mu bitaro kwa muganga, ahari abagore benshi cyane bicaye ku murongo bategereje kwakirwa ngo bahabwe serivisi, hagaragara icyapa kigaragaza ko ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, bw'indwara zifata imyanya y'imyibarukiro. Hirya no hino mu bitaro hakaba hagenda hagaragara ibyapa bitandukanye, biyobora abarwayi ndetse n'abandi bari mu bitaro, bibamenyesha inyubako zitangirwamo serivisi runaka.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gitanga amakuru ku by'ubuzima kizwi nka RHIA cyamenyeshaga abaturarwanda muri rusange kibakangurira uko bakirinda kanseri. Aho bagaragaje ko kugira umubyiho ukabije ndetse n'ibiro byinshi ari bimwe mu byamusunikira ibyago byo kurwara kanseri bityo ko bigomba kurwanywa hakorwa ibikorwa bitandukanye bishobora gutuma abantu bandura iyi ndwara ya kanseri.

Uducupa turimo inkingo zifashishwa mu gukingira indwara y'ubushita bw'inkende nk'uko bigaragara ku nyandiko zanditse kuri utu ducupa, iyi akaba ari indwara y'icyorezo ifata ibice bitandukanye by'igihugu abantu barwara iyi ndwara bityo bagashyigirwa mbere kugira ngo hirindwe ko umunsi bahuye n'iki cyorezo cyabazahaza.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, gishushanyijeho umuntu ugaragaza ubwonko, cyatanzwe n'umuryango utegamiye kuri leta wa Ohimo, aho cyakanguriraraga abatuye isi bose, kwita ku buzima bwo mu mutwe, nka kimwe mu byiciro bititabwaho cyane kandi hafite uruhare runini ndetse hagaragaza n'uburwayi bwinshi, abantu badaha agaciro hirya no hino ku isi.

Icyapa cyatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu Kigo gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda RBC, cyagaragazaga uburyo butandukanye bwo kwifashisha umuntu yirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Koronavirusi ubwo cyari cyadutse mu Rwanda. Bumwe mu buryo bugaragara harimo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, harimo kandi kwambara udupfukamunwa, twirinda gukoranaho, kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse n'ibindi.

Icyapa kinini cyane kigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru n'umukara, kigaragaraho ifoto y'umuganga uri kwita ku mwana. Iki cyapa kikaba ari ryo huriro ry'abaganga mu nzego zitandukanye, aho bagira uruhare mu kwita ku buzima, bagira inama abasaba serivisi z'ubuvuzi ndetse n'abakora muri iki kigo, gutanga serivisi nziza z'ubuvuzi, nka rumwe mu rwego rw'ibanze rwo kwitabwaho.

Mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi hagaragara urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka izi serivisi ahagaragara umuganga wambaye itaburiya y'umweru ikarita imuranga mu kazi ndetse n'uturindantoki aho arimo gusuzuma abarwayi batandukanye bicaye bamukikije bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi z'ubuzima hirya no hino mu gihugu.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo cy'abanyamerika cyita ku buzima gikorera hirya no hino ku isi USAID, cyakanguriraga abantu ububi bw'indwara ya virusi itera sida ndetse n'uburyo yandura. Cyane cyane hitabwa ku byiciro by'abakiri bato, nk'abanyeshuri basobanurirwa ndetse banigishwa uburyo butandukanye yandura ndetse'uko bayirinda.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo impuguke mu byo mu buzima abayobozi ba leta ndetse n'abandi b'inzego zitandukanye, aho bari kungurana ibitekerezo ku byakorwa kugira ngo imibereho myiza y'abaturage izamurwe yitabwa cyane ku cyiciro cy'ubuzima nka kimwe mu bigomba kwibandwaho kugaragaza imibereho myiza y'abatuye igihugu.

ubukangurambaga bwitabiriwe n'urubyiruko rwambaye imipira y'ibirango bya minisiteri y'ubuzima aho bari mu bukangurambaga bugamije kwirinda kanseri y'iberi, abantu bajya kwisuzumisha ibi bikaba byarabaye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri nagatatu ubwo hakorwaga ubukangurambaga bashishikariza abagore bose kujya bisuzumisha kanseri y'rindwa ko yamenyekana bitinze mu rwego rwo kugira ngo bagire imibereho myiza

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyabo gishinzwe kwita ku buzima arabisi (rbc) aho cyagaragazaga uburyo butandukanye bwakifashishwa mu kwirinda agakoko ka virusi itera sida aho bagaragazaga kandi n'ubundi buryo butandukanye harimo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kwirinda guhanahana ibikoresho bikata ndetse n'ubundi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, kiriho n'ifoto ya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, madamu Jeannette Kagame, ubwo yarimo gutanga imbwirwaruhame, ashishikariza abaturage kwita ku buzima bwo mu mutwe, ku munsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, abwira abamukurikiye ko ubuzima bwo mu mutwe ari ingenzi kandi bukwiye kwitabwaho nk'izindi ndwara zose.

Abaganga bambaye impuzankano yabugenewe iyo bari mu kazi kabo ndetse n'imyenda y'ubwirinzi igizwe n'uturindantoki ndetse n'ibikoresho birinda isura ubwo bari mu bikorwa byo gusuzuma icyorezo cya covide hirya no hino mu gihugu, igihe igihugu cyari cyibasiwe n'iki cyorezo mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Aha hakaba hari umuturage urimo gusuzumwa afatwa ibizamini, kugira ngo harebwe niba yaranduriye iki cyorezo.

Umu mama wambaye ikoti ry'umweru, agasengeri k'umukara n'ipantaro y'umukara, yicaye afashe indangururamajwi ndetse n'agakarine mu ntoki. aho arimo gutanga imbwirwaruhame ayigeza ku rubyiruko rwari rwitabiriye amahugurwa y'uko bakiteza imbere, birinda ibishuko ndetse n'ibyorezo bibaganisha mu gutwara inda z'indaro zitateganjwe yabereye mu mujyi wa kigali muri kigali convention centre.

Raporo yatanzwe na minisiteri y'ubuzima igaragaza uko politiki zitandukanye zigamije kwita ku buzima bw'abatuye igihugu zihagaze mu mwaka w’igihumbi na cumi na gatanu, aho bashyiraga ku mugaragaro ibikubiye muri politiki igamije imibereho myiza y'abaturage, hitabwa ku buzima nka rumwe mu rwego rw'ibanze rugomba kwitabwaho kugira ngo abatuye igihugu bagire ubuzima bwiza.

Abaganga benshi bambaye imyenda y'ubwirinzi igizwe n'amatabuririya, uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'ibikoresho bibafasha guhisha isura ubwo bari mu bikorwa byo gusuzuma icyorezo cya marubage cyari cyadutse mu Rwanda mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na kane batanga ibikorwa bitandukanye byo gusuzuma ndetse no kwita ku bahuye n'iki cyorezo hirya no hino mu gihugu.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bahuriye mu cyumba cy'inama, ubwo barimo gufata ifoto y'urwibutso. Nyuma yo kwitabira amahugurwa yari yateguwe n'umuryango wita ku buzima bwo mu mutwe, bigisha ndetse basobanurira n'abantu uko ubuzima bwo mu mutwe bwitabwaho, ahubwo abafite ubwo burwayi ntibahabwe akato ahubwo bakakirwa nk'abandi muri sosiyete ndetse bagahabwa n'ubuvuzi bubakwiriye.

Ikicungo gikozwe n'ibyuma bifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, aha akaba ari hamwe mu hashyirwa abana baje gushaka serivise z'ubuvuzi zitandukanye kwa muganga kugira ngo baremberwe mu gihe batangiye kurambirwa cyangwa se bahuzwe banitekerezaho igihe bikaraga kuri ibi byicungo.

Umugabo wambaye amataratara, yambaye itaburiya y'umweru ndetse afite n'icyuma cyo kwa muganga kifashishwa mu kumva uko umutima utera. Afite kandi impapuro mu ntoki arimo guseka arimo gutanga imbwirwaruhame ku bantu bamukurikiye, abasobanurira byinshi byimbitse kuri serivise zitandukanye z'ubuvuzi.

icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara cyanditse ijambo ''mediyasoro''. Aha hakaba ari ahacururizwa imiti ndetse n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi bw'ibanze hazwi nka farumasi, aho umurwayi yandikirwa imiti na muganga akajya kuyigura ku ma far umasi cyangwa akayigura...

Inyubako nziza cyane, ifite ibikuta bifite ibara ry'umweru, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, aho hari imashini zabugenewe, zifasha mu gutanga serivise zitandukanye z'ubuvuzi, ibi akaba ari ibigaragaza iterambere mu buvuzi, aho abarwayi bahabwa serivisi ndetse bakitabwaho igihe bagize ibibazo bitandukanye by'ubuzima.

Mu bitaro kwa muganga, mu cyumba kiryamamo abarwayi bari kwitabwaho n'abaganga, hagaragara umumama uryamye ku gitanda, iruhande rwe hari imashini zifashishwa mu kugenzura uko imikorere y'umubiri we imeze. Ibi bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi itangwa ku buzima bw'abagana iyi nyubako bashaka serivisi z'ubuvuzi ndetse binakanagaragaza imitangire myiza ya serivisi mu buvuzi.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu, yubakishije amatafari ahiye yanditseho materinite cyangwa inzu y'ababyeyi, aha akaba mu bitaro kwa muganga ari inyubako yagenewe kwita ku babyeyi baje kubyara ndetse n'abatwite, aho ababwa serivisi zihariye, hirya no hino mu bitaro hagaragara ibyapa bitandukanye bigaragaza serivisi zitangirwa mu nyubako runaka, biyobora abakoresha ibitaro hirya no hino.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi zitandukanye, igaragazwa n'ibyapa biri imbere yayo byanditseho Isangiye nyanza hospital. Ibi bikaba biyobora abakenera serivise z'ubuvuzi zitandukanye kuri iki kigo kugira ngo bazihabwe, cyane cyane hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza ndetse banitabwaho, mu mikurire yabo ndetse n'imimerere yabo ya buri munsi.

Inyubako ndende cyane y'amagorofa isize amarangi y'umukara ikaba ikoreramo ikigo cy' Afurika gishinzwe kurwanya ibyorezo ndetse n'indwara zandura zifata abantu ndetse n'inyamaswa. Iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho ku mugabane w'Afurika mu rwego rwo kurwanya ibyorezo bitandukanye aho iki kigo gifata ingamba runaka zikurikizwa n'ibihugu mu kurwanya ibyorezo ndetse kinagira inama abantu bari mu byorezo uburyo bakwitwara kugira ngo babihashye.

Umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'insakazamashusho, arimo kureba ibizamini by'umurwayi arimo gusuzuma yifashishije ikoranabuhanga, iyi akaba ari imwe muri serivise z'ubuvuzi ziteye imbere, dusanga hirya no hino mu bitaro harebwa icyo umurwayi arwaye hifashishijwe ikoranabuhanga.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma, guhabwa imiti ndetse n'izindi. Aha hakaba ari mu cyumba cyagenewe kwita ku bana cyane cyane abakivuka, ndetse n'impinja zifite ibibazo bitandukanye. Hagaragara umwana uryamye mu gitanda aho ari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano yabugenewe akaba ari kuzinga supanete.

Muri farumasi ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi bw'imiti, hariri utubati twabugenewe dupanzemo imiti bwoko butandukanye, aha akaba ariho abarwayi bandikiwe imitira muganga baza kuyashaka, cyangwa se n'abandi bakeneye ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'ibikoresho bibafata kwita ku buzima aho babisanga

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, abikorera, abaganga ndetse n'abandi batanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye kukobari bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gutaha ibitaro bishya bya gahini. Ibi akaba ari mu rwego rwo kwegereza serivisi z'ubuvuzi abaturage, hitabwa ku kuba bagira ubuzima bwiza, bahabwa serivisi zinyuranye zibegereye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo nko gusuzuma, gufatwa ibizamini ndetse n'ubundi buvuzi bwisumbuye hifashishijwe ibikoresho bigezeho, hakabamu icyumba cyakirwamo abarwayi baba mu bitaro aho baba bitabwaho bahabwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi hagamijwe ubuzima bwabo bumera neza bitabwaho n'inzobere z'abaganga.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gusuzuma, gutanga ibikoresho bifasha abafite uburwayi butandukanye ndetse n'ibindi, hagaragara imashini zifashishwa n'abafite, ibibazo by'imvune ndetse n'iby'amagufa bitandukanye, abafite ibibazo by'umugongo ndetse n'ibindi, ibi byose bikaba bigamije imibereho myiza, y'abaturage hitabwa kuri serivise nziza z'ubuvuzi bahabwa.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivise zitandukanye z'ubuzima. Hagiye hari ibyapa ku nyubako bigaragaza serivisi itangirwa muri iki cyiciro, iyi akaba ari inzu yagenewe kwakira ababyeyi cyane cyane baje kubyara ndetse n'abasuzumwa bamaze kubyara, iba igira ngo ubuzima bwabo bwitabweho ndetse n'abo babyaye n'abobatwite bagire ubuzima bwiza.

Icyapa kinini gifite umusenguruko w'ubururu ndetse n'umuzenguruko w'umweru cyanditse amagambo mu ibara ry'ubururu, kimenyesha ko hakorera ibitaro bya Ruhengeri. Hakaba hatangwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi, hagamijwe kuba abatura ibitaro bakira ubuzima bwiza, bahabwa serivisi nziza z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane ikoreramo ikigo cyita ku buzima cya irikadi afurika, aha akaba ari ikigo gitanga inama ku buzima ndetse kinakora ubushakashatsi ku ndwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye byibasira umugabane wa afurika. Aho iki kigo giherereye mu Rwanda imbere yacyo hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'umuhanda ukoze neza w'amatafari byohereza abaza gushaka serivisi muri iki kigo.

Inyubako ndende y'igorofa isize amarangi y'umuhondo, ikoreramo ikigo k'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kurwanya kanseri kizwi nka Rwanda Cancer Center. Aha hakaba ari ahatangirwa inama zitandukanye zafasha abantu kwirinda kanseri ndetse no gutanga amahugurwa atandukanye ku bakora muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, babigisha uburyo barwanya kanseri zitandukanye, ndetse banabaha amasomo bakeneye mu gukora ako kazi kabo.

Icyumba cy'inama, cyateguyemo ibirango bitandukanye, ndetse kimanitsemo n'ibyapa bitandukanye, byatanzwe n'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC, ndetse n'abafatanyabikorwa babo, aya mahugurwa akaba yara agiye kwigishirizwamo abaturage uburyo bagomba kugira uruhare mu kurandura malariya, bubahiriza ingamba zose zashyizweho na leta zo kuyirwanya.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze, bizwi nka farumasi nk'uko bigaragara ku byapa by'icyatsi biri kuri iyi nyubako. Hagaragara abakiriya baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, yaba imiti bandikiwe na muganga cyangwa se imiti itangwa itanditswe na muganga itandukanye muri nyubako. Bikaba bigamije imibereho myiza y'abaturage, hitabwa ku buzima bw'abatuye igihugu.

Inyubako nyinshi cyane zisize amarangi y'umukara ndetse n'umweru ahagaragara abantu bahagaze imbere y'inyubako baje gushaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aha hakaba ari mu bitaro kwa muganga aho abantu bahabwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma, guhabwa imiti ndetse n'izindi, imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza cyane bugizwe n'umucaca wa pasiparume ndetse burimo n'igiti cy'inganzamarumbo.

Umuforomokazi ufite imisatsi y'umukara, wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati n'ipantaro by'ubururu aho arimo kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, amuha serivise z'ubuvuzi, iruhande rwe hari ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, byifashishwa mu kunoza akazi ke ko kwita ku barwayi, ibi bikazamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'icyizere abarwayi bagirira mu babavura.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umukara, kigaragaza ahakorera ikigo cya forotiya dayagonisiti seta, iki akaba ari ikigo gitanga ibizamini ku ndwara zitandukanye harimo nka kanseri ndetse n'izindi zitandukanye bigamije ko abantu bagira ubuzima bwiza bafite amagara mazima.

Inyubako nziza cyane ifite amabara y'umutuku ndetse n'igisenge cy'umutuku. Ikaba ifite ubusitani bwiza buyikikije ndetse n'amatara amurikira iyi nyubako mu gihe cya nijoro. Iyi ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abaturage bahegereye babona serivisi zihuse nko gusuzuma kubona imiti ndetse n'izindi byose bigamije ko abayituriye bagira ubuzima bwiza, hitabwa mu kuzamura serivisi z'ubuvuzi muri aka gace.

Icyumba cyo kwa muganga cyiza cyane gifite amarangi y' umweru kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi mu kunoza akazi kabo harimo mudasobwa ndetse n'imashini zifashishwa mu gufata ibizamini abarwayi batandukanye cyane cyane abafite ibibazo byo gukomereka mu mutwe bakoreshwa izi mashini bagasuzumwa hanyuma hakarebwa ibibazo byabo bakitabwaho n'abaganga bahuguriwe.

Umuforomo wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ipantaro n'ishati by'ubururu afite akuma kumva uko umutima utera ku bitugu, ari kuganira n'umukecuru uri mu zamuburu, aho arimo kumusobanurira akamaro ko gufata imiti neza nk'amwe mu buryo bwo gukira indwara zitandukanye, ibi bikaba bikorwa n'abaforomo hirya no hino igihe barimo kwakira abarwayi babasobanurira uko imiti bahawe ibakoresha ndetse n'akamaro ko kuyifata neza nk'uko byatanzwe na muganga.

Inyubako ndende ifite igorofa rimwe, isize amarangi y'umuhondo, imanitseho icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi cyanditseho amagambo atandukanye kigaragaza ko ari inzu yahariwe ababyeyi n'impinja ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, iki cyapa bikaba biba hirya no hino mu bitaro biyobora abarwayi ndetse n'abandi bashaka serivisi zitandukanye babereka ahatangirwa serivisi runaka.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umuhondo, imbere yaho hari ubusitani bwiza ndetse n'utuyira twagenewe kunyurwamo n'abanyamakuru bashaka serivisi, aha hakaba ari muri karayesi, futaya deshalite hatangirwa ubuvuzi bwo mu mutwe butandukanye abafite ibibazo binyuranye byo mu mutwe harimo agahinda gakabije ndetse ihungabana ndetse n'ibindi.

Inyubako yo kwa muganga, ahagaragara ibyapa bitandukanye biyobora abarwayi ndetse n'abarwaza, bibamenyesha ahatangirwa serivisi runaka, aha hakaba hagaragara aho abarwayi bagiye gusezera ibitaro baza bagakorerwa isuzuma harebwa niba ibyo basabwaga byose kwishyura, ndetse n'ibyo basaba gukurikiza bose barabikoze neza mbere yuko basohoka mu bitaro.

Mu bitaro kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, iki kikaba ari icyumba cyagenewe kwakira abarwayi, bavura baba mu bitaro. Ahagaragara ibitanda bisashe neza, n'amashuka y'ubururu n'umweru, aho kandi hari n'amarido amanitsemo, atandukanye buri gitanda n'ikindi, ibi bikaba bigaragaza ibanga ry'umurwayi igihe arimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako ifite ibara ry'ikijuju ryanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi ariyo Rwanda Canser Centre. Iki akaba ari ikigo cy'igihugu cyita ku buvuzi bwa kanseri aho abarwayi ba kanseri hirya no hino, baza bagahabwa serivisi zitandukanye. Imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo nziza ndetse n'umucaca wa pasiparume.

Inyubako yo kwa muganga hatangirwa serivisi zo gutunganya ndetse no gusuzuma ibizamini hagaragara imashini kabuhariwe rutura zifashishwa muri iki gikorwa, harimo kandi umuganga wahuguriwe wambaye impuzankano yabugenewe aho aba akoreshe imashini areba ibizamini byafashwe asuzuma niba nta dukoko turimo.

Inyubako yubatse mu buryo butangaje, ifite amagorofa menshi, inyuranamo imihanda, ndetse imbere yayo hari n'ubusini aha hakaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku rwego rwo hejuru, aho abakeneye serivisi zinyuranye cyangwa se ubujyanama ku by'ubuzima baza gushaka serivisi murizi nyubako, hari ibikorwaremezo bibafasha kuhagera ndetse no gutanga serivisi nk'amamashini agezweho ndetse n'ibindi.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye, hagaragara ibikoresho byihariye byifashishwa mu kazi kabo ka buri munsi, izi ni bombone zifashishwa mu guha umwuka abari mu bitaro bageze mu kaga bakeneye kongerwa umwuka, aho ziba zifite umwuka utunganije neza hanyuma zikifashisha imashini zabugenewe mu gutanga umwuka ku barwayi, ibi bikagaragaza imitangire myiza ya serivisi hitabwa ku buzima bw’abakeneye ubufasha.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu isize amarangi y'umuhondo yantseho amagambo mu ibara ry'ubururu, igaragaza ko arahakorera ikigo nderabuzima cya Shagasha, aha hakaba hatangirwa serivisi z'ibanze z'ubuvuzi nko gusuzumwa ndetse no kuvurwa by'ibanze ,aha hagaragara abantu bicaye baje gushaka serivisi kandi bafite icyizere ko bari buzihabwe.

Inyubako nziza cyane ifite igorofa rimwe ifite igisenge cy'ubururu ndetse ya isize n'amarangi y'umweru n'umutuku. Iriho icyapa kigaragaza ko ikoreramo ikigo nderabuzima cya Kanyinya. Aha hakaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gufata ibizamini, gusuzumwa, guhabwa imiti, ndetse n'izindi. Imbere y'inyubako kandi hari ubusitani bwiza cyane bugaragaza neza ishusho y'iki kigo nderabuzima.

Inyubako yo kwa muganga, isa neza cyane igaragaramo ibikoresho bitandukanye byiganjemo iby'ikoranabuhanga. Byifashishwa mu gusuzuma indwara zimwe na zimwe cyane cyane zifata umugongo ndetse n'ahandi, aho izi mashini zifashishwa hafatwa ibizamini harebwa ikibazo umuntu yaba afite mu gice cy'umubiri runaka hakoreshejwe ibyuma kabuhariwe.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'imyitozo ngororamubiri bizwi nka jamestique, aho abantu bajya bagakora imyitozo itandukanye hagamijwe kuba ubuzima bwabo bwamera neza bakoresha siporo, kuko birinda indwara zitandukanye cyane cyane nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, aho yicaye munsi y'igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo, akaba arimo kwitekerezaho, ibi bikaba ari bimwe mu bikorwa hirya no hino kugira ngo umuntu yitabweho buzima mu mutwe, aho aganira yumva neza umwuka, arimo kwitekerezaho, areba yisuzuma we ubwe.

Inyubako yo kwa muganga igezweho kandi irimo ibikoresho byinshi bihagije, aho ari mu cyumba gikonjesha, aha hakaba ari hamwe kwa muganga mu habikwa imiti itandukanye ikeneye kuba iri ahantu hakonje, hagaragara kandi n'ibindi bikoresho bitandukanye: nk'imashini zigezweho za kijyambere, mudasobwa, utubati, ubwogero bw'intoki ndetse n'ibindi.

Abagabo babiri bakora muri serivisi z'ubuvuzi aho bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itabiririya y'umweru, udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki. Aho ahagaze imbere y'imashini nini cyane yifashishwa mu gutanga ibizamini bitandukanye biba byafatitwe abarwayi kugira ngo hasuzumwe niba nta ndwara bafite. Ibi bikaba ari bimwe mu bigaragaza urwego rw'ubuvuzi ko rwateye imbere mu Rwanda

Mu bitaro kwa muganga, ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, harimo nko gusuzuma, gutanga imiti, ndetse n'izindi, aha hakaba ari mu cyumba gicumbikiramo abarwayi barwariye kwa muganga, aho baba bitabwaho n'inzobere mu buvuzi, ndetse n'abaforomo, hagamijwe kureba ko ubuzima bwabo bwamera neza, bahabwa imiti uko bikwiriye, kandi ku gihe.

Icyapa cyanditse mu ibara rya move n'amagambo y'umweru cyanditseho ijambo goodlife pharmacy, bigaragaze ko ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ahazwi nka farumasi aho umuntu ufite uburwayi butandukanye aza akaba yafata imiti yaba iyo yandikiwe na muganga cyangwa se akeneye iyindi bidasabye ko muganga ayimwandikira.

Mu bitaro kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gusuzuma, guhabwa imiti ndetse no gufatwa ibizamini ku baje gushaka izo serivisi, haragaragara urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abaforomo ndetse n'abaganga, aho biteguye gutanga serivisi zikwiriye, bita ku buzima bw'ababagana.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itaburiya ndetse n'uturindantoki, aho arimo kwita ku murwayi uri kwa muganga amwongeramo serumu. Ibi bikaba bigaragaza imitangire myiza ya serivisi aho abarwayi bitabwaho n'abaganga kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, ndetse banagaruke bakore uruhare rwabo mu guteza imbere Igihugu.

Mu Bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi harimo nko gusuzuma, guhabwa imiti, gutanga ibizamini, ndetse n'izindi. Iki akaba ari icyuma cyabugenewe gitangirwamo serivisi zo kongerera umwuka abafite ibibazo by'ubuhumekero bitandukanye. Hagaragara imashini zigezweho zikora ako kazi, ndetse n'igitanda cyiza cyane kiryamishwaho umurwayi. Ibi byose bikaba bigamije imibereho myiza, abaturage bahabwa serivisi z'ubuvuzi zijyanye n'igihe.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hakaba mu cyumba gisuzumirwamo abafite ibibazo bitandukanye bifata igice cyo mu m’umutwe, aho bazanwa bakaryamishwa ku gitanda hanyuma bagashyirwa mu mashini yabugenewe, igasuzuma niba nta bibazo bitandukanye bafite ku gice cy'umutwe, hanyuma bagahabwa ubuvuzi bubakwiriye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane bwibanda ku myitozo ngororamubiri aha hakaba arahazanwa abantu byibuze bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima cyane cyane abagize imvune cyangwa se ibindi bibazo bituma imibiri yabo itagororotse bagahabwa serivisi z'ubuvuzi hifashishijwe imyitozo ngororamubiri mukunanura amaguru amaboko y'intugu ndetse n'ibindi.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu ndetse n'ibirahuri bisize amarangi y'umuhondo. Ikaba ikoreramo ibitaro bya Ayi fondeshono hosipitol ibi bikaba bitanga ubuvuzi bwo kwita ku maso yaba ku bayarwaye ndetse n'abakeneye ibikoresho bibafasha kureba nka marinete n'ibindi. Iyi ikabamo muri serivisi zigamije imibereho myiza y'abaturage hitabwa ku buzima bwabo hirya no hino mu gihugu.

Icyapa kimanitse ku marembo y'inyubako nini cyane ikoreramo ikigo nderabuzima cya Kigina. Imbere yayo hari umumama uhetse umwana uje gushaka serivisi z'ubuvuzi, nk'uko zitangirwa muri iki kigo harimo nko gusuzuma, gufata imiti, ndetse n'izindi hitabwa ku buzima bw'abatuye muri kano gace iki kigo nderabuzima giherereyemo.

Inyubako nziza cyane ifite inkuta zifite amabara y'umweru irimo ibikoresho bitandukanye nk'utubati, intebe ndetse n'ameza bikoze mu biti, hari kandi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigizwe na mudasobwa ndetse n'icyuma gisohora impapuro, iki akaba ari icyumba gisuzumirwamo abarwayi, aho bahura na muganga bakaganira kugira ngo harebwe ibyo bakora ku bijyanye n'ibibazo by'ubuzima bafite.

Inyubako nziza cyane yubakanye ubuhanga isize amarangi y'umuhondo ndetse n'ikigina aho ikikijwe n'ubusitani bwinshi cyane. Iyi ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi nko gusuzuma gutanga imiti ndetse n'ibindi aho abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima baza gushaka izo serivisi muri iyi nyubako bitwaje amakarita yabo y'ubwisungane mu kwivuza cyangwa bakishyura mu buryo busanzwe bakoresheje amafaranga yabo.

Inyubako nziza cyane y'amagorofa menshi, ifite inkuta zisize ibara ry'umweru, aho ifite intebe nziza zifite ibara ry'ubururu ndetse n'utunezi dukoze mu ibara ry'igiti, aha aka ari ahakirwa abaje gusaba serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, muri iyi nyubako ikorerwamo ibitaro, nko gusuzuma, guhabwa imiti, gutanga ibizamini ndetse n'izindi.

Inyubako nziza cyane, ifite amabara y'umweru ndetse yubakishijwe amatafari, iriho ibirango bitandukanye, imbere y'abaparitse ibinyabiziga ndetse hanze ku gipangu hari icyapa kigaragaza ko ari ahakorera ikigo cy'igihugu, gishinzwe gutanga amaraso. Aha akaba ari ikigo gifite inshingano zo kugenda gifata amaraso hirya no hino mu baturage, b'abagiraneza bashaka kuyatanga, hanyuma akazafashishwa abafite uburwayi butandukanye bayakeneye.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru, yanditseho amagambo amenyesha abanyuraho ko ikoreramo ibitaro bya Nyarugenge. Aha hakaba ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zimbitse, nko gusuzuma, guhabwa imiti, gutanga ibizamini ndetse n'izindi, bikorewe aha, mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza y'abatuye igihugu. Ndetse no guha serivisi nziza abafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye.

Ibiribwa bitandukanye byiganjemo imboga ndetse n'imbuto. Ibi bikaba bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima nka bimwe mu bigomba kwitabwaho kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, hirindwa indwara zitandukanye kuko byifitemo ubushobozi bwo kurinda indwara, hagendewe kuba bikungahaye ku mavitamini atandukanye ndetse n'imyunyu ngugu.

Umukobwa wambaye isengerui y'umweru, ipantaro y'umukara azamuye amaboko ayahurije hejuru, akaba ari muri siporo ngororamubiri aho ifasha mu kwirinda indwara zimwe na zimwe zitandura nka Diabete ndetse n'izindi, hakorwa imikino ngororamubiri izwi nka siporo, ibi bikaba bigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima ko byibuze umuntu yakabaye akora siporo buri munsi.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi arimo kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima kuko gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye bifasha kuba umuntu yagira ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye zitandura, kandi na we akagira igihagararo ndetse n'imikaya ikomeye.

Umusore wambaye agapira k'umukara, afite agasume k'umweru ku bitugu, arimo kunywa icupa ry'amazi. Aho bigaragara ko avuye muri siporo, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, ko siporo yafasha kwirinda indwara zitandukanye zitandura, harimo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, n'izindi.

Icyapa kigaragaza ibikoresho bitandukanye by'ibanze biba bifitwe n'abaganga bavura abakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye. Aho harimo isanduku yo gutwaramo ibikoresho, hakabamo ibipfuko, inshinge, uturindantoki, imiti yagabanya uburibwe, amapomade ndetse n'ibindi byifashishwa n'abaganga igihe barimo kuvura abakinnyi n'abandi bakora imikino ngoramubiri igihe bagize ikibazo bari muri ako kazi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweruru n'ipantaro y'ubururu. Arii gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye amaboko apfukamye ku kuguru kumwe. Ibi bikaba bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima, kamwe mu buryo bwifashishwa mu kwirinda indwara zitandukanye zitandura cyane cyane ziterwa n'umubyibuho ukabije nka Diabete, kanseri ndetse n'izindi.

Umuganga w'amagufwa ndetse n'imvune, arimo kuvura umukinnyi wagiriye imvune, mu mikino yari yitabiriye, aho arimo kuzirika bande ku kirenge arinda ko imvune ye yakomeza gukwira umubiri wose, ibi akaba ari imwe mu bikorwa n'abaganga hirya no hino, ku bakorerwa imikino cyangwa se imyitozo ngoramubiri itandukanye.

Ikirango cy'umuryango utabara imbabare mu Rwanda ndetse no ku'Isi uzwi nka croix rouuge aho kigizwe n'ibara ry'umweru ririmo agasaraba k'ibara ry'umutuku handitseho amagambo croix rouge Rwanda mu ibara ry'umukara uyu akaba n'umuryango utabara imbabare cyane cyane izikeneye ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'ubundi buvugizi cyane cyane bushingiye ku buzima.

Umugabo wambaye umupira w'umukara urimo kunywa amazi ari mu icupa ry'umweru. Aho bigaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri nk'imwe mu nama zitangwa n'impuguke bw'ubuzima, kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye zitandura, harimo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umukozi w'umuryango utabara imbabare ndetse unakora ibindikorwa bitandukanye byo kwita ku buzima kuruwaruje aho ari gufasha umusore wambaye isengeri y'umutuku n'ikabutura y'umukara nyuma yo gukora amarushanwa yo kwirukanka ku maguru kugira ngo amufashe gusubiza isukari mu mubiri ndetse n'ibindi bikenerwa mu mubiri nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye isengeri y'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umutuku aho ari mu myitozo ngororamubiri, ibi akaba ari mu bigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima mu bifasha mu kugira ubuzima bwiza hirinda indwara zitandukanye cyane cyane izitandura ziganjemo diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Abasore babiri bambaye amajiri afite ibara ry'umutuku ndetse n'udupira tw'umweru bakora mu muryango wo gutabara imbabare wa croix rouge, aho bateruye umusore nyuma yo gukora impanuka kugira ngo ajye guhabwa ubutabazi bw'ibanze harimo kumufasha kudakomeza gukwirakwiza imvune yagize mu mpanuka yabereye mu binyabiziga.

Ikiganza cy'umuntu ufashe ijage arimo gusuka amazi mu kirahuri kugira ngo ayanywe. Iki akaba ari bimwe mu bitangwamo inama n' impuguke mu bw'ubuzima, aho zigaragaza ko kunywa amazi mu buzima bwa buri munsi ari ingenzi, aho nibura umuntu yakabaye anywa litiro eshatu ku munsi kugira ngo amufashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga urimo gufasha umukinnyi wari uri gukina imikino, akagira ikibazo cy'imvune, arimo kumufasha kugarura ubuzima ku murongo yifashishije ibikoresho byabugenewe, nka bumwe mu buvuzi bw'ibanze butangwa n'abakora uyu mwuga, cyane cyane hitabwa ku buzima bw'abari mu myitozo ngororamubiri kuko baba bashobora kugira ibibazo bitandukanye by'ubuzima, mu gihe bari muri ibyo bikorwa.

Umukobwa wicaye ku gatapi gafite ibara ry'ubururu karambitse hasi ku makaro, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri nka kimwe mu bikorwa bifasha mu kurwanya indwara zitandura, cyane cyane nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, nk'uko bitangazwa n'impuguke mu by'ubuzima.

Umusore wambaye agakoti gafite ibara ry'ikigina, ari kunywa icupa ry'amazi, bigaragare ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, nka kimwe mu byafasha kwirinda indwara zitandukanye zitandura, harimo umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Umukobwa wambaye isengeri ifite ibara ry'ikigina n'ikijuju, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, nka bumwe mu buryo bwo kuririnda indwara zitandukanye zitandura nka Diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, hifashishijwe gukora imikino ngororamubiri bityo ikarambura amaboko ndetse n'ingingo zitandukanye z'umubiri.

Amafunguro atandukanye yiganjemo imboga ndetse n'imbuto nka bimwe mu bikenerwa n'umubiri cyane cyane mu kwirinda indwara zitandukanye kuko bikungahaye ku myunyu ngugu ndetse n'amavitamini agira uruhare cyane muri iki gikorwa. Hari kandi n'amazi yo kunywa umutobe mu mbuto, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa muri siporo mu rwego rwo kugaragaza ko byose bikenewe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Umusore wambaye agapira k'ubururu afite kuteri mu bitugu ari kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima nka bumwe mu buryo bufasha kwirinda indwara zitandukanye zitandura harimo nka diyabete umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Akuma gafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara kifashishwa n'abakora siporo hirya no hino mu nyubako zikoremo imyitozo ngororamubiri itandukanye, mu rwego rwo gukomeza imikaya ndetse no kugira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye cyane cyane izitandura harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso n'izindi.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hagaragara ibyuma bigezweho, byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo nk'ubw'umugongo ndetse n'izindi, ibi akaba ari ibigaragaza iterambere mu mivurire, ndetse bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage bahabwa serivisi z'ubuvuzi zigezweho.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, nka kimwe mu bifasha kwirinda indwara zitandukanye, harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, ibi byose bigafasha uzikora kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusore wambaye isengeri y'umukara uri gukora imyitozo ngororamubiri, ubu bukaba ari bumwe mu buryo bwatangajwe n'inzobere mu buvuzi bwo kwirinda indwara zitandukanye zitandura harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije n'ibindi, nka zimwe mu zugarije ndetse ziri guteza n'imfu cyane muri iki kinyejana.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwego rwo gukangurira abaturarwanda kibereka uko siporo ifasha mu kuvura indwara zitandukanye bikoresheje siporo bidasabye ko bafata imiti, aho bigaragara ko umuntu arwaye umutwe, ufite siteresi se cyangwa se ufite ibibazo byo kumva ko yakora siporo bigakemuka atagiye kwa muganga.

Agacupa gafite umufuniko w'ubururu karimo amazi meza asukuye, aya akaba ari amazi yifashishwa n'abakeneye kuyanywa kugira ngo bagire ubuzima bwiza nk'uko bitangazwa n’impuguke mu by'ubuzima, ko byibuze umuntu yakabaye anywa litiro ebyiri z'amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza kuko zimufasha cyane mu bikorwa bitandukanye by'umubiri, harimo gusohora imyanda ndetse n'ibindi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi bikaba ari bimwe mu byagaragajwe n'inzobere mu buzima ko ari uburyo bwiza bwifashishwa mu kwirinda indwara zitandura, harimo nk'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, diyabete n'izindi.

Umusore wambaye isengeri y'umukara ndetse n'agakomo k'icyatsi ari kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri iyi akaba ari imwe mu ntama zitangwa n'abaganga ko gukora siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri itandukanye ari ingenzi cyane kuko bifashamo no kugira ubuzima bwiza yirinda ibyago byo kwandura indwara zitandura nka diyabete, umuvuduko wamaraso ndetse n'izindi.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura na kora y'umukara, aho arimo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari imwe mu nama tugirwa n'impuguke mu by'ubuzima, aho bagaragaza ko gukora siporo bigira uruhare mu kurinda indwara zitandura nka kanseri, diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umusore wambaye agapira gafite ibara ry'ikijuju, urikumva ekuteri ndetse ari kunywa n'amazi bigaragare ko ari muri siporo, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, nk'uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye zitandura nka diyabeti, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, hifashishijwe gukora imikino ngororamubiri itandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, harimo nko kunanura imikaya mu ntoki, gusimbuka umugozi, kwirukanka ndetse n'ibindi. Aho ibi bigira uruhare mu kugira ubuzima bwiza, gukora siporo, bakoresheje ibi bikoresho. Ibi bikaba bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima ndetse n'abaganga, ko umuntu urimo gukora siporo agomba kurya indyo yuzuye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku wicaye ku ntebe y'umweru, imbere ye hari mudasobwa iteretse hejuru y'akabati gafite ibara ry'umweru, aho arimo kureba uko ubuzima bwe buhagaze, areba ibizamini yahawe na muganga. Ibi akaba ari bigaragaza iterambere mu buvuzi, aho ikoranabuhanga ryifashishwa mu kunoza iyi serivisi ndetse no kwita ku buzima hirya no hino mu gihugu.

Igikapu cy'ibara ry'umutuku cyabugenewe, gitwarwamo ibikoresho bitandukanye n'abaganga batanga serivisi z'ibanze z'ubuvuzi, cyane cyane ku bakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye, ahagaragaramo nk'amapamba, amapomade, ibipfuko ndetse n'ibindi bitandukanye byakwifashishwa mu gihe haba habaye impanuka bari mu mikino cyangwa mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye, birimo ibyuyuma byo guterura, imigozi yo gusimbuka, ibyuma byo gukurura ndetse n'ibindi bitandukanye, bisangwa hirya no hino mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri izwi nka jimu, mu rwego rwo kurinda abantu kurwara indwara zitandukanye zitandura, harimo nk'umubyiho ukabije, diyabete ndetse n'izindi, hakorwa siporo nka kimwe mu birinda izi ndwara.

Imiti ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abavuzi cyane cyane mu gihe bavura abakinnyi cyangwa abandi bakora imikino ngororamubiri mu gihe bagiriye ikibazo muri siporo, aha harimo amapomade yifashishwa mu gihe bagize imvune, amabande babazirika, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhodo n'ipantaro y'umukara, afashe utwuma mu ntoki tumenyereza abantu kugenda dufite ibara ry'ubururu. Utu tukaba twifashishwa n'abaganga bavura imvune n'amagufwa, mu gihe barimo kumenyereza umuntu kongera kugenda, nyuma y'igihe cyo guhabwa serivisi z'ubuvuzi bw'imvune yagize runaka.

Umusore wambaye insengeri y'umweru ndetse n'isaha y'umukara ku kaboko, amanitse amaboko yafashe inyuma ku mutwe aho bigaragara ko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ibi akaba ari bimwe mu bigirwamo inama n'abaganga kuko umuntu byibuze akaba yakora imyitozo ngororamubiri yirinda indwara zitandukanye, ziganjemo izitandura nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Icyapa gifite ibara ry'umukara gishushanyijeho ibinini ndetse n'ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, aho cyari kigamije gukangurira abaturage, kibahugurira ko siporo ari umuti w'indwara zitandukanye, bityo ko bayiyoboka nk'imwe mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye, aho kujya gufata imiti hirya no hino mu mafarumasi.

Ibikapu bifite ibara ry'umutuku birimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze, harimo nk'amapomade, ibipfuko imikasi ndetse n'ibindi bitandukanye, cyane cyane bikaba byifashishwa n'abavuzi bavura abakinnyi hirya no hino ku bibuga ndetse n'abakora imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Ikirangantego cy'ikigo cya Rwanda Judo Federation, aho kigizwe n'ibara ry'umukara ndetse kigaragaramo ishusho y'umugore wambaye imyenda y'umweru n'undi wambaye imyenda y'ubururu barimo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi akaba ari sosiyete itanga serivisi zo kwigisha abantu imyitozo ngororamubiri itandukanye, nka kimwe mu birinda indwara zitandura nka kanseri , diyabete n'izindi.

Akadege katagira umupilote gatwaye igisanduku kirimo amaraso cyayagemuye ku bitaro runaka, iyi akaba ari muri serivisi zitangwa mu buvuzi cyane cyane hakwirakwizwa ibikoresho bikenerwa mu buvuzi hirya no hino mu gihugu hakoreshejwe utudege tutagira abapiloti, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi ndetse no mu bindi bikorwa by'iterambere muri rusange.

Amacupa y'umweru ariho ibyapa bifite ibara ry'ubururu, byifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu, cyane cyane abavura abakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imikino itandukanye, iyo bagize ibibazo bitandukanye harimo nk'imvune n'ibindi, izi akaba pomade zifashishwa na bo mu gutanga ubutabazi bwihuse, ku bari muri ibyo bikorwa by'imikino ngororamubiri.

Umusore wambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yapfukamye ahagaritse ukuvi kumwe, ibi bimufasha kunanura imitsi, ndetse n'ibikaya, ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo ni impuguke bw'ubuvuzi nka bimwe mu buryo bufasha mu kwirinda indwara zitandukanye cyane cyane zituruka ku mu byibuho ukabije nka diyabete ndetse n'izindi.

Umusore ndetse n'umukobwa bicaye hamwe bari kuruhuka nyuma yo gukora siporo, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kugira ubuzima bwiza, bagaragaza ko siporo ari imwe mu nkingi nyamwamba, yo kwirinda izo ndwara nka kanseri, diyabete n'izindi.

Igikoresho cyo kwa muganga gifite ibara ry'umuhondo ubururu ndetse n'umweru gihabwa abagize ibibazo by'imvune cyane cyane iby'ijosi, kugira ngo kibafashe kuba izo mvune zabo zitakomera, igikoresho cyifashishwa cyane n'abavuzi bavura abakora imikino ngororamubiri itandukanye ndetse n'imikino isanzwe mu rwego rwo gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bagize impanuka cyangwa se imvune muri iyo mikino.

Urubura rukonje rwifashishwa n'abavuzi b'amagufwa ndetse n'imikaya bazwi nk'afizioterapisite, kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ku bagize imvune, aho bashyirwaho uru rubura rukabafasha kugabanya uburibwe mu gihe barimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye. Ibi bitanga ubutabazi bw'ibanze ndetse bigafasha n'abakora akazi k'ubuvuzi, koroshya akazi kabo batanga serivisi nziza.

Icyuma cyifashishwa n'abaganga, mu kumva uko umutima utera kizwi nka sitatosikope, gifite ibara ry'ubururu ndetse gikozwe mu cyuma, iki kikaba gifasha abaganga kumva uko umutima utera w'abarwayi, bityo bikamenya niba bakeneye kwitabwaho byihuse cyangwa bagifite umwanya wo gutegereza.

Abaganga bavura abakinnyi ndetse n'abandi bose bakora imikino ngororamubiri itandukanye mu gihe bagize ibibazo by'ubuzima bari gukora ibyo bikorwa , aho barimo kuvura umukinnyi ugize ikibazo ibi akaba ari muri serivisi z'ubuvuzi z’ibanze zitangwa hirya no hino hakorerwa ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro ndetse na siporo.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umuhondo kiriho imigozi ifite ibara ry'umukara, kikaba cyifashishwa n'abavuzi cyane cyane abatanga serivisi z'ubuvuzi ku bakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye mu gihe habaye ikibazo cy'impanuka, umurwayi akawushyirwa ku gikoresho agambirizwa imigozi mu rwego rwo kwirinda ko imvune ye yakomera hakifashishwa iki gikoresho.

Umukobwa wambaye isengeri y'umutuku n'i ikabutura y'ubururu ari gukora imyitozo ngororamubiri, ananura amaguru ndetse n'amaboko ye akaba ari inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima nkabumwe mu buryo bufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije harimo nka diyabete kanseri ndetse n'izindi.

Igikoresho cyo kwa muganga, kigizwe n'ibara ry'ubururu, cyanditseho ijambo Alpha. Iki kikaba cyifashishwa mu gutanga ubutabazi bwihuse, ku bagize ibibazo by'ubuzima bitandukanye, cyane cyane bari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se bakoze impanuka. Kuko gifasha abagize imvune zitandukanye, aho bagishyirwa ku gice cyagize imvune, hirindwa ko imvune zabo zakomeza gukura.

Amafunguro atandukanye yiganjemo imboga n'imbuto ariko ku bikoresho byabugenewe ateretse ku meza. Aya akaba ari yo atangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima, aho bagaragaza ko kurya indyo yuzuye bigira uruhare runini mu kurinda indwara bityo umuntu akagira ubuzima bwiza, buteye imbere akomeye ndetse adafite n'ibibazo byo kurwaragurika.

Umuganga wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse ufite n'ikarita mu gatuza, iranga inshingano ze, ubwo yarimo gufasha umwe mu bitabiriye imikino ngororamubiri, hanyuma akagiramo impanuka yo kuvunika, ubukaba bukaba ari ubutabazi bw'ibanze, butangwa n'abaganga babahari mu gihe cy'ibikorwa ndetse n'imikino ngororamubiri itandukanye.

Umusore wambaye isengeri y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri mu kibuga, ubu ni bumwe mu buryo butangwa impuguke mu bw'ubuvuzi bugaragaza ko umuntu yagira uruhare mu kwirinda indwara zitandura akora imyitozo ngororamubiri kuko izi ndwara zirimo guhitana imibare y'abantu benshi muri iyi minsi.

Umusore wambaye umupira w'umukara arikora imyitozo ngororamubiri aho ari gukandi icupa ry'amazi mu maso nyuma yo kwirukanka ibirometero byinshi iyi akaba n'imwe mumana zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima nkabumwe mu buryo bwifashishwa mu kwirinda indwara zitandukanye zitandura cyane cyane zituruka ku mubyibuho ukabije nka diyabete, kanseri ndetse n'izindi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, arimo gukanda undi uryamye ku gitanda cya muganga, aho ari kumuha ubutabazi bw'ibanze. Ibi bikaba ari bikorerwa abakinnyi cyangwa abandi bose bakora imikino ngororamubiri itandukanye, mu gihe bagize impanuka, nka bumwe mu butabazi bw'ibanze ku buzima.

Agasanduku gafite ibara ry'icyatsi kitwazwa n'abaganga bavura abantu hirya no hino cyane cyane abakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imikino itandukanye igihe bagize ibibazo. Aha hakaba hagaragaramo ibikoresho by'ibanze, ibipfuko, imiti, amavuta ndetse n'ibindi bifashisha mu kazi kabo ko kuvura.

Ubusitani buhinzemo ibiti bitandukanye byifashishwa hakorwa imiti inyuranye ivura indwara nk'ibiheri, ibishishi, inkorora ndetse n'izindi aho ibi biti bitunganywa neza hanyuma amabi yabyo agakurwamo umushongi ariwo wifashishwa mu kuvura izi ndwara zinyuranye.

Ikarito irimo amacupa menshi afite ibara ry'umuhondo ndetse afite n'udufuniko tw'umukara, aya akaba arimo umushongi w'icyatsi cy'igikakarubamba nka kimwe mu byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye hirya no hino mu gihugu hagamijwe ko abaturage bagira ubuzima bwiza.

Amacupa afite ibara ritandukanye aho arimo amavuta akomoka ku kimera cy'igikakarubamba, iki akaba ari ikimera kifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye z'uruhu harimo nk'ibishishi, ibiheri ndetse n'izindi zibasira uruhu, iki kimera kikaba gifatwa kigatunganywa neza n'abahanga mu by'imiti hanyuma bakagikoramo imiti ibitandukanye yifashishwa n'abaganga mu kuvura izo ndwara z'uruhu zitandukanye.

Ikimera kizwi nk'igicunshu, cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, harimo nk'ibiheri, ibishishi, udusununu ndetse n'izindi. Aho amababi y'icyatsi akamurwamo umushongi, hanyuma ugasigwa ahafite ikibazo kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Icyapa kigaragaza uko ibimera bitandukanywe byagiye bikoreshwa mu bushakashatsi, harebwa ubushobozi bwabyo mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse n'igihe byagiye bifata bisuzumwa, ibi akaba ari bimwe mu bivamo imiti itandukanye ikoreshwa kwa muganga, nko mu gukora ibinya, ndetse n'iyindi.

Igiti kinini cyane cy'umuravumba iki giti kikaba gifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye hakoreshejwe amababi yacyo kuko kifitemo ibinyabutabire byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye, harimo nk'ibicurane, inkorora ndetse n'izindi, amababi arasoromwa hanyuma agatunganywa neza kugira ngo akoreshwe mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru gashushanyijeho ndetse kanditseho amagambo menshi, uyu akaba ari umuti gakondo ukorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, ibi bikaba byarakoreshwaga cyane mbere y'uko ubuvuzi butera imbere hirya no hino ku isi.

Ibyatsi bitandukanye biri mu busitani harimo umuravumba, kapusine, igikakarubamba ndetse n'ibindi byose byifashishwa mu gukora imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, harimo iz'uruhu ndetse n'iz'imbere mu mubiri nk'inkoro ndetse n'izindi, aho ibimera bitunganywa neza bikabyazwamo imiti, yifashishwa mu kuvura bene izo ndwara.

Kimwe mu byatsi gifite amababi atoshye cyane kifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye harimo n' inkorora. Iki giti kikaba gifatwa hagasoromwa amababi yacyo hanyuma agasekurwa, agakamugwamo umushongi ari wo wifashishwa uhabwa umuntu urwaye inkorora bikamufasha gukira. Uyu ukaba ari umwe muti wakoreshwaga mu buvuzi gakondo mu myaka yo hambere, mbere yuko ubuvuzi butera imbere.

Ibyatsi bizwi nka rumari, birambitse ku isekuru aho bigiye gusekurwa ngo bikorwemo umushongi, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iki akaba ari ikimera gisangwa mu bice bitandukanye by'igihugu aho bisoromwa neza, hanyuma bigasekurwa, bigakurwamo umushongi wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'ise, ibiheri n'ibindi.

Ikimera kizwi nk'igicunshu kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye aho basoroma amababi yacyo bakayasya hanyuma bakayakoramo agafu gashyirwa mu mazi hanyuma umuntu akayanywa kugira ngo yivure indwara zitandukanye zifata mu myanya y'ubuhumekero. Uyu akaba ari umuti gakondo wakoreshwaga cyane mu gihe cyo hambere havurwa indwara zitandukanye.

Isashe y'umweru, irimo ibumba ryifashishwa mu buvuzi gakondo cyane cyane ubuvuzi bw'indwara zo mu nda, igifu ndetse n'izindi ndwara zifata mu nda aho iri bumba ritunganywa neza, hanyuma rikayungururwa, abantu bakarikoresha bivura indwara zitandukanye zifata mu myanya yo mu nda.

Mu Rwanda hirya no hino, hagaragara abavuzi gakondo bavura indwara zitandukanye, bifashishije ibimera, aho bafata amababi cyangwa imitumba y'ibimera runaka, bakayasya neza akavamo ifu cyangwa bakayakamura akavamo umushongi, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora, ibiheri ndetse n'izindi.

Agakarito gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, kakaba kazamo isabune yo mu bwoko bwa Forever Aloe Turm, iyi akaba ari isabune ikozwe hifashishijwe ibimera, cyane cyane byo mu bwoko bw'igikakarubamba, aho igira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, nk'ibishishi, ibisebe n'ibindi.

Ikimera cy'umugwegwe gifite amababi maremare cyane afite ibara ry'icyatsi, aya mababi akaba yifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara z'uruhu nk'ibiheri, ibishishi n'ibindi, aho bitemwa bigakamurwa hanyuma umushongi wabyo ukaba wifashishwa usigwa ahari ikibazo runaka, hanyuma umuntu agakira indwara.

Akajerekani gafite ibara ry'umweru gafite umufuniko w'umutuku karimo amavuta akomoka ku bimera cyane cyane ibizwi cyane nk'igikakarubamba. Iki akaba ari kimwe gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu nk'ibishishi, ibiheri, ubushye ndetse n'izindi. Aho gifatwa kigatunganywa neza kigakorwamo amavuta yifashishwa mu buvuzi bw'izo ndwara hirya no hino mu gihugu.

Igiti gifite ibara ry'icyatsi kizimye cyifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye kizwi nk'umuravumba. Iki giti gisoromwa amababi yacyo, hanyuma agakamurwa, akavanwamo umushongi bifashisha mu kuvura indwara zitandukanye binyuze ku bushobozi bw'iki giti mu kuvura izo ndwara.

Icyatsi kizwiho nk'ishake kirambitse ku meza kamwe nakomakagikata iki cyatsi kikaba cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara z'uruhu ndetse n'izimbere mubiri nk'inkora ibicurane n'izindi aho gifatwa kigasekurwa hanyuma umutobe wacyo akaba ukoreshwa mu kuvura izo ndwara.

Amacupa afite ibara ry'umweru afunze neza n'imifuniko, ateretse ku meza yanditseho mu mabara atandukanye, aya akaba yari arimo imiti gakondo iba yakozwe mu bimera igatunganywa neza, hanyuma igashyirwa mu ngano zabugenewe kugira ngo icuruzwe, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Inyubako zicururizwamo imiti gakondo ahanini ikomoka ku bimera, iyi miti ikaba ikorwa n'abahanga mu by'ubuvuzi gakondo, aho bafata ibyatsi bitandukanye cyangwa se ibindi bikoresho bakabihuriza hamwe bakabisya cyangwa bakabikora babitunganyamo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi hirya no hino mu gihugu.

Igihingwa cya tangawizi kera mu butaka. Iki kikaba cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara zinyuranye zo mu nda ndetse n'izo mu mihogo nk'inkorora ndetse n'izindi, aho umutobe w'ikigihingwa ufite ubushobozi bwo kuvura izo ndwara kandi wifashishwa no mu nganda mu gukora imiti ndetse n'ibinyobwa bitandukanye bigira uruhare mu gutuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Agacupa k'umweru, karimo umuti wa foreva ayi vijoni, uyu ukaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amaso, ukorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye, aho bitunganywa neza ndetse bikajyanwa mu nganda bigakorwamo imiti. Kubera ubushobozi byifitemo byo kuvura indwara zitandukanye, hanyuma imiti igatunganywa neza munganda, igashyirwa mu macupa ikazanwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Agacupa gafite ibara ry'umweru gakoze mu bimera, aho harimo amavuta yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye akomoka ku bimera. Aya akaba atunganywa neza hirya no hino mu nganda, hanyuma agakoreshwa muri serivisi z'ubuvuzi mu nzego zitandukanye.

Icyapa kiriho imiti itandukanye ikomoka mu bimera ndetse n'ifoto y'umugabo, wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, aho yari arimo amenyekanisha imiti ikorwa n'uruganda uyu umugabo akoramo, yifashishwa mu buvuzi butandukanye ikomoka ku bimera, iyi imiti yiganjemo ikomoka ku bimera nk'igikakarubamba, umuravumba ndetse n'ibindi.

Ikimera kizwi nk'igitindori, gifite amababi y'icyatsi ndetse n'indabo z'umuhondo, aho izi indabo z'iki giti zifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara zinyuranye, harimo nk'ibishishi, ibiheri ndetse n'izindi zifata uruhu. Aho aya mababi yasoromwa hanyuma agakamurwa, umushongi wayo ugashyirwa ahafite ikibazo, hanyuma umuntu akagira ubuzima bwiza.

Umuti uri mu gacupa k'umweruru gafite umufuniko w'ubururu utunganywa mu bimera, kugirango ngo ufashe abantu bafite ibibazo bitandukanye by'uruhu kuba byakemuka bakoresheje uyu muti. Aho amabubi y'ibiti asoromwa akajyanwa mu nganda gutunganywa akabyazwamo imiti yifashishwa n'abaganga b'indwara z'uruhu, bavura indwara zitandukanye nk'ibishishi, ibiheri n'izindi.

Icupa rifite ibara ry'umukara n'umufuniko w'umweru ririho icyapa gifite ibara ry'umuhondo, kigaragaza ko mu icupa harimo umuti uturuka ku buki. Iyi akaba ari imwe mu miti n'imwe n'imwe ikorwa hifashishwajwe ibikoresho gakondo nk'ibyatsi, ubuki ndetse n'ibindi, kugira ngo ifashe mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera bizwi nk'ibicunshu byifashishwa mu gukora imiti itandukanye iva muri bimera kugira ngo ivure iyi indwara, ibi bikaba byarakoreshwaga n'abanyarwanda mu gihe cyo hambere bishakira ubuvuzi, mu igihe ubuvuzi butari bwagateye imbere hirya no hino mu gihugu hagakoreshwa ibi ibyatsi bayiha ubuvuzi bw'ibanze.

Umurima munini uhinzemo ibimera bitandukanye, aho ibimera byifashishwa mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mu gutanga ubuvuzi, harimo kuvura inkorora, ibicurane ndetse n'ibindi, hagaragara abamama barimo gusoroma amababi y'ibiti kugira ngo ajye gutunganywa, akozwemo imiti yifashishwa mu buvuzi.

Icyapa kiriho uyu mugabo urimo gutaka uburibwe mu ngingo zitandukanye nko mu mugongo, mu rutugu, mu kwaha, mu nkokora ndetse n'ahandi. Hashushanyijeho kandi n'ubwoko bw'imiti ikomoka mu bimera yakifashisha kugira ngo yivure ubwo buribwe. Iyi akaba ari imiti ikoreshwa cyane ku ndwara z'uruhu, isigwa ku ruhu kugira ngo ivure indwara zitandukanye zifata ubuzima bwa muntu.

Amavuta yo mu bwoko bwa foreva alowe vera aya akaba ari amavuta akorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye cyane cyane ibikarubamba aho avura indwara z'uruhu zinyuranye binyuze mu bushobozi bw'igihingwa kirimo, iki gikakarubamba bigufasha kuvura indwara zinyuranye nk'ibiheri ibihushi ndetse n'ibindi.

Icyatsi cy'igicunshu cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye aho kirimo gusoromwa n'umu mama witeze igitambaro cy'umweru kugira ngo ajye gukora imiti yo kwifashisha mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, iki gicushu kikaba kigaragara hirya no hino mu gihugu aho gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zifata uruhu nk'ise, ibimeme, ibishishi n'izindi.

Amababi, indabo, imizi, ibititiri, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye by'ibimera, byifashishwa mu gukora imiti yabugenewe itandukanye, ivura indwara zinyuranye, hari kandi n'isekuru n'umusekuzo byifashishwa mu gusya ibice by'ibihingwa, hanyuma bikabyazwamo imiti ivura indwara zinyuranye, nk'ibiheri, ise, ndetse n'ibindi.

Inyubako icururizwamo imiti itandukanye gakondo ishingiye ku bimera, iyi miti ikaba ikorwa mu bimera bitandukanye, aho bigenda bigatunganywa mu ruganda, bigakamurwamo umushongi, ifu cyangwa se ubundi bwoko, hanyuma bigashyirwa neza mu bikoresho byabugenewe bikazanwa gucuruzwa kugira ngo byifashishwe n'abantu bafite uburwayi butandukanye mu kwivura.

Igiti kinini cy'umushishori gifite amababi y'icyatsi yifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara z'uruhu: nk'ibiheri, ibishishi, ubushye ndetse n'izindi. Aya mababi akaba asoromwa hanyuma umuntu akayasya yarangiza kuyasya agakoresha ifu yayo cyangwa se akaba yakamura akayakuramo umushongi akawusiga aho afite ibyo bibazo bitandukanye by'uruhu.

Amacupa menshi ariho ibyapa bitandukanye bigaragaza ibintu birimo imbere, aya akaba ari amacupa arimo imiti gakondo iba yakozwe mu bimera bitandukanye akifashishwa mu buvuzi butandukanye nko kuvura inzoka zo mu nda, ubuvuzi bw'uruhu, ndetse n'izindi. Iyi akaba ari imwe mu miti yifashishwaga mu gihe cyo hambere ubuvuzi butaratera imbere.

Amavuta ya Forever Bright akorwa hifashishijwe ibimera by'ibikakrubamba, aho bitunganywa neza bikabyazwamo aya mavuta afite uruhare runini mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, harimo nk'ibiheri, ibishishi, ise ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, arimo gusoroma amababi y'ibiti mu busitani, aya mababi akaba ari ayifashishwa mu gukora imiti itandukanye gakondo yifashishwa mu buvuzi butandukanye, yaba nk'ubw'ibicuri ndetse n'ibindi, iyi miti kandi ikaba ihabwa agaciro kuko yagize uruhare runini cyane mu gihe ubuvuzi butari bwagateye imbere hirya no hino mu gihugu.

Uducupa turi mu ibara ry'umweru, twanditseho amagambo n'ibara ry'icyatsi, turimo amavuta akomoka ku bimera bizwi nk'ibikakarubamba. Iki akaba ari kimwe gisangwa hirya no hino mu gihugu, aho cyifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, harimo nk'ibishishi, ubushye ndetse n'izindi. Ibi bibabi bikaba bifatwa bigatunganywamo ibikoresho ndetse n'imiti itandukanye, yifashishwa mu buvuzi.

Icyatsi cy'umugunde gifite amabara y'icyatsi kijimye cyane. Aho aya mababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ifasha mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye, harimo nk'ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi. Aho aya mababi akamurwa agakurwamo umutobe, hanyuma uwo mushongi ugasigwa ahafite ikibazo kugira ngo umuntu amere neza.

Amavuta ndetse n'isabune biri mu bikoresho byabugenewe mu kubibika, bikorwa hifashishijwe ibimera byo mu bwoko bw'igikakarugamba. Iki akaba ari ikimera kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, harimo nk'ibiheri, ise, n'ibindi. Ibi bikaba bitunganywa mu nganda bigakorwamo ibikoresho byifashishwa mu kuvura, izo ndwara zitandukanye z'uruhu.

Imiti itandukanye, iva mu bimera binyuranye, harimo nk'igifuranindi, inyarabasanya, umuravumba ndetse n'izindi, iyi akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi, cyane cyane gakondo, havurwa indwara zitandukanye, cyane cyane izibasira uruhu, nk'ibiheri ibishishi ndetse n'izindi.

Amacupa atatu ateretse mu kabati k'udukoresho twabugenewe, aho harimo imiti yifashishwa n'abaganga mu gihe barimo gutanga serivisi z'ubuvuzi, hitabwa ko abaturage bamera neza ndetse bakagira ubuzima buzira umuze, bifashishije iyi miti iri muri aya macupa.

Imiti ikorwa mu bimera bitandukanye, harimo nk'imiravumba, kapusini ndetse n'ibindi, bikaba bitunganywa neza, yaba amababi cyangwa se umushogi uva mu mababi yabyo, bigakoreshwa hirya no hino mu buvuzi aho byifashishwaga cyane cyane mu myaka yo hambere, ubuvuzi butaratera imbere mu Rwanda.

Amacupa arimo imiti itandukanye aho imiti ikorwa hifashishijwe amababi, imizi cyangwa se ibitiritiri by'ibimera bitandukanye, muri makekaba ari imiti gakondo, aho yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye bigendanye n'ubushobozi bw'ibimera byakozwemo iyi miti.

Ubusitani burimo ibyatsi bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'indabo z'umuhondo. Ibi bikaba byifashishwa mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi hirya no hino mu Gihugu. Aho bifasha mu kuvura nk'abafite ubushye, abafite ibikomere, ndetse n'ibindi.